Umwana uri kurwana no gufungura robine iri ku ndobo y'umweru n'ubururu, iteretse ku ntebe y'icyuma n'igiti, bigaragara ko ashaka gukaraba intoki nk'ikimenyetso k'isuku, ko abinjiye muri uru rugo bose bakwiye gukaraba intoki.

Abana babiri umwe afashe igikombe arasukira undi, bishimye nyuma yabo hari urugo rw'imihati, aho ubona rwose barimo bakaraba bagaragaza igikorwa cy'isuku y'intoki, ko ari ingenzi kandi ko ari ngombwa.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi k'ibara ry'ironji, yafatishije ukuboko kw'iburyo igikombe k'ibara ry'umuhondo rifite urugara rw'ibara ry'ubururu bwijimye, arimo aravoma amazi ayamenesha icyo gikombe n'irindi vomo rimena amazi.

Mwana w'umukobwa wicaye, ateze amashyi ku ijipo omo, iruhande rwe hari ijerekani y'ibara ry'ubururu n'umupfundikizo w'umutuku, ijerekani y'ibara ry'ironji riho akabirikira, n'akajerekani gato kari mu ibara ry'ironji gafite icyapa cy'ibara ry'umweru.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ibara ry'ubururu bwerurutse, bari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru, karuvati itukura, bafatanye n'umugabo wambaye indorerwamu z'amaso, karuvati ya kaki, kositimu y'ibara ry'umukara n'ishati y'umweru, ko bigaragara ko barangije amahugurwa.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ikositimu y'ikijuju, ishati y'ubururu bwerurutse, karuvati y'ikigina, afashe ku gakapu k'umukara kanditsweho inyuguti z'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyandikishijweho inyuguti z'ubururu hariho n'ikirango kiri mu mabara y'umweru n'umukobwa uri iruhande rwe.

Urugo rw'imihati amavomo abiri, umugabo wambaye ipantaro y'umukara uhagaze, wambaye ishati y'amaboko magufi y'amabara avanze ubururu bwererutse n'ikigina, ufatishije amaboko ku ijerekani y'ibara ry'umuhondo.

Mu kiziga kirimo ivomo ririmo umwana na mama we bavomera mu majerekani y'ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari abaturage barangariye kureba uko umubyeyi avoma ayo mazi akoresheje imbaraga ze bwite.

Abagore babiri n'abagabo babiri bicaye ku meza atatseho igitambaro cy'umukara, mu cyumba kirimo amarido y'ibara ry'ubururu, imbere yabo hari za mudasobwa bigaragara ko bari mu nama, kuko umukobwa afashe inyakiramajwi aho asa nusobanura cyangwa abaza icyibazo.

Umwana wambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu arimo aravomesha igikombe cy'umuhondo gifite urugara rw'ubururu, aho agaragaza ko yishimiye kunywa ayo mazi kuko amazi ni isuku akaba ni soko y'ubuzima, dukeneye amazi mu mibiri yacu uko aturinda umwuma.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Ni icyapa cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana. Aho ikirango cyawo ari abantu babiri umwana bo barikurebana.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, harimo abaganga babiri bambaye indorerwamo z'amaso, udupfukamunwa, utunozasuku tw'ibara ry'icyatsi kibisi, imbere y'umwe hari mudasobwa, hari umurwayi wambaye agapfukamunwa kandi bashyizeho icyuma gipima umuvuduko w'amaraso.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ibara ry'umweru, agapira k'imbere k'umweru, yicaye imbere ye hari udukarito dufunguye, ari gukuramo ibinini agahereza abaturage, nk'aho ari abantu basanzwe baza gutwara imiti ya buri munsi. Inyuma ye hari ushinzwe umutekano wambaye agakoti k'ibara ry'umuhondo.

Abaganga babiri b'abagore, bambaye amataburiya magufi y'ibara ry'umweru, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, bambaye udupfukamunwa bombi, umwe yambaye uturindantoki tw'ibara ry'umweru, arimo arakingira umusaza wambaye agapfukamunwa, hirya hari ameza ariho ibitambaro by'ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye ku ntebe za palasitiki z'umweru, bari mu ihema ry'ibara ry'umweru, utatseho ibitambaro by'ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi kibisi, inkingi z'ihema zitatseho igitambaro cy'ibara ry'umuhondo, mbere yabo hari muganga wambaye itaburira y'ibara ry'umweru y'amaboko maremare, ufashe indangururamajwi y'ibara ry'umukara mu kaboko k'ibumoso n'igitabo.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ahicaye ababyeyi, abasaza n'abana, imbere yabo hari ameza, hari umuganga ugenda yakira umwe kuri umwe, abandi bicaye bategereje, bamwe muri bo bambayemo udupfukamunwa.

Icyumba kirimo abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye b'ibitsina byombi, bicaye mu gice cy'urukiramende, hagati yabo hahagaze muganga w'umugabo, usa n'ubasobanurira akoresha ibimenyetso by'amaboko, abandi bamurangamiye kandi bateze amatwi. Harimo ababyeyi bafite abana b'impinja n'abazanye udukayi two kwandikamo.

Umugabo wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu agaragiwe n'abagore n'abagabo, harimo uwambaye ishati y'umuhondo, umugabo wambaye indorerwamu z'amaso n'ishati y'iroza, ivanze n'umweru n'ubururu bwerurutse, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu y'ibara ry'icyatsi kibisi biga kubijyanye n'ubuzima abasobanurira.

Umubyeyi uhetse akana mu rubavu, gafite ingofero y'iroza, yambaye igitenge n'agapira k'iroza ari ku ivomo ashyizeho indobo y'ibara ry'umukara, hari urugo rw'ibiti iruhande hari ikigonyi.

Icyumba kirimo imashini zitandukanye zirimo ibara ry'ubururu n'ibihombo by'ibara ry'icyatsi kibisi. Aho ubona ko ari imashini zikora imiti itandukanye harimo umugabo wambaye imyambaro y'umukara, ingofero y'umweru ugenda areba uko izo mashini zikora.

Ivomo riri iruhande rw'ibiti, hari umugabo n'umugore bavoma, muri gahunda ya leta yo kwegereza amazi abaturage, n'isuku n'isukura, mu rwego rwo kubahereza ubuzima bwiza, ngo birinde indwara ziterwa n'amazi mabi, n'isuku nke.

Muganga mu itaburiya yera, yambaye uturindantoki, ari guha umwana wambaye umupira w'ubururu urukingo, inyuma hari abandi bana bicaye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bigaragaza ko mu kigo cy'amashuri bari mu gikorwa cy'ingenzi mu buzima rusange no kwirinda indwara cyo gukingirwa.

Abantu bahagaze bameze nk'abari mu myigaragambyo cyangwa se mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubuvuzi, bahagaze nk'abafite icyo bashaka gusobanura, harimo abafite impapuro zanditseho amagambo n'abandi ubona bahagaze babashyigikiye.

Abagabo batandatu n'abagore babiri bicaye mu cyumba cy'inama mu buryo bw'igice cy'uruziga, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi bakikije ameza akozwe mu rubaho, bamaze gufata icyayi mu dukombe tubumbye tw'ibara ry'umweru bagaragara nk'abari mu nama y'umwuga cyangwa baganira ku kintu runaka kijyanye n'akazi bakora.

Abaganga bahagaze muri koridoro y'inyubako hafi y'umuryango, bose bashyize igikumwe hejuru nka bavuga ngo nibyo birashoboka twabikoze muri gahunda y'ubuzima no kurengera abaturage.

Abana babiri baje kuvoma, uw'umuhungu wambaye ishati y'umweru n'agakabutura, k'umukara arimo arahaga amazi ngo aze, uw'agakobwa kambaye akajipo gatukura n'umweru n'agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara n'umweru, arimo aravomera mu majerekani y'umuhondo.

Abantu bambaye imipira y'ibara ry'umweru basa nk'abari gufata ifoto y'urwibutso bavuye mu mahugurwa, inyuma yabo hari icyapa kiriho ibirango by'ubuzima bigaragara ko bari bari mu nama cyangwa amahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu bw'ikirere bambaye uturangamazina, hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru, karuvati y'ubururu n'umweru, umuganga yambaye itaburiya y'umweru, ishati y'umweru na karuvati itukura. Inyuma yabo hari ibiti n'inyubako.

Abantu bicaye mu cyumba kinini cy'inama, bicaye ku meza akozwe mu rubaho, imbere yabo hari insakazarumuri, bafite udukombe tw'amabumba tw'ibara ry'umweru banywereyemo icyayi, baragenda baganira, umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye na karuvati y'umutuku ni we usa nk'ubaganiriza.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara, agapira k'iroza, arimo aravoma amazi mu ijerekani y'umuhondo ifite ikirango cy'ibara ry'umutuku, iteretse mu mabase abiri, ifite ibara ry'ubururu bw'ikirere n'ibara ry'ikijuju, inyuma ye hari imyenda yanitse, iri mu mabara y'ubururu bw'ikirere, icyatsi ndetse n'imipira y'umukara.

Mu cyumba cy'inama, imbere hari ikirango cy'ibara ry'ubururu, gishushanyijeho umuntu ufite ubwirinzi budasanzwe, imbere hicaye abagabo babiri n'umugore umwe, bigaragara ko barimo basobanurira aba bantu uko umuntu akwiye kwirinda indwara z'ibyorezo.

Ku ivomo hari abana babiri, umwe arafungura amazi ajya mu ndobo z'ibara ry'umweru, yambaye agapira k'amaboko magufi k'imirongo itambitse, y'icyatsi kibisi n'akaruru, undi yambaye agapira k'ubururu afashe indobo mu gatuza.

Ijerekani y'ibara ry'ironji iri kuvomerwamo amazi, iruhande hari akajerekani k'ibara ry'umuhondo, hakikije abana n'abagabo harimo uwambaye ingofero n'agapira k'ibara ry'umweru ufashe inkoni mu ntoki, wegamijweho akana kambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'ira ry'icyatsi kibisi.

Ivomo ririho umusore uvomesha, ababyeyi n'abana Baje kuvoma bafite indobo z'ubururu, indobo y'ibara ry'ironji, ijerekani y'ibara ry'umuhondo, akajerekani gato k'umuhondo n'indobo y'umweru aho ubona ko bishimiye ko bari kuvoma amazi meza kandi amazi ni ubuzima.

Umugore wambaye imyenda y'umuco, atatse urunigi mu ijosi rw'ibara ry'umuhondo, umutuku, umukara. Yambaye indorerwamu z'amaso yiteye umwitero wa rumbiya w'ibara ry'umuhondo, umukara n'ikigina, yambaye igishati kirimo amabara y'umutuku, ubururu n'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati iciye amaboko y'amabara y'umweru na kaki, ipantaro y'umukara wishimye, afashe ku ijerekani y'ibara ry'umuhondo iruhande rw'ivomo yishimiye ko bahawe amazi abegereye aje hafi yabo.

Ivomo rusange, umwana ari gukaraba intoki, akarabira mu ibase y'ibara ry'umukara, nk'ikimenyetso cy'isuku y'intoki, nko kwitoza gukaraba mbere yo gukora indi mirimo yose ugakaraba intoki. Kuko intoki ni zo zanduza ibintu byinshi by'umubiri, binagemurira umwanda ibindi bice by'umubiri.

Ikigo cy'amashuri kirimo indobo y'icyatsi kibisi, ifite ikirango cy'umuryango w'abibumbye wita ku bana. Umunyeshuri yunamye anywesha amazi intoki, undi munyeshuri ari hakurya mu busitani atambuka. Ikimenyetso cy'uko amazi ari ingenzi mu mubiri w'umuntu, kuko adufasha kugubwa neza.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye mu ntebe z'amafuteyi, bari mu nama y'abashinzwe ubuzima, yateguyewe ku bufatanye bw'ishami ry'abibumbye rishinzwe ubuzima hamwe na minisiteri y'ubuzima ya Leta y'u Rwanda, bambaye amakoti, amashati y'umweru, n'amakaruvati, harimo n'abakobwa batatu, umwe yambaye ikanzu, undi yambaye ikositimu n'agashati k'umweru, undi yambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umukara.

Umukobwa n'umwana bazanye kuvoma amazi y'ikiyaga, amazi adasukuye mu rwego rw'isuku nke, amazi yakoreshwa mu kuhira indabo, yakoreshwa mu gukora amatafari ya rukarakara ariko kuyanywa, kuyakaraba, byatera indwara ku mubiri.

Icyapa cy'umuryango w'abibumbye urengera abana kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere gifite ikirango cy'umubumbe w'isi kirimo umuntu mukuru w'umubyeyi uri mu ibara ry'umweru uteruye akana mu ibara ry'umweru n'amashyaka abiri n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ivomo rusange riri mu itaba mu mabanga y'umusozi, hahagaze umubyeyi urimo uvoma mu ijerekani y'umuhondo amazi meza, ubona ko ari kureba hakurya mu baturanyi no kubamenyesha ko amazi yabagezeho.

Ivomo riri mu giturage aho abana baje kuvoma, umwe bisaba ko akoresha imbaraga kugira ngo amazi azamuke y'isoko bavome, mu rwego rwo kwirinda gukoresha amazi mabi no gukoresha amazi yanduye...

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, bameze nk'abaganira ku mwanzuro udasanzwe wo kwita ku cyizere cya buri mwana. Imbere yabo hari ikirango kiri mu mabara y'ubururu, bigaragara ko bari mu nama y'umuryango w'abibumbye wita ku bana, aho bari kugenda baganira ngo bahurize umwanzuro.

Abashasha bubakiye amazi hari abana bambaye imyambaro y'ishuri harimo umwembaye ishati y'umweru n'agapira k'umweru uri kunywesha urushyi rw'iburyo amazi ahandi bamureba uko abikora, harimo uhetse igikapu ubona ko banejejwe nuko bafite umugezi iwabo.

Abantu benshi bagaragiye umwana uri mu tuntu tumeze nk'ikarito y'ibara ry'ironji ku meza y'ubururu, bigaragara ko bari bari mu nyigisho z'uburyo umuntu yakora ubufasha ku mwana, cyangwa se kwiga uko umuntu yakwita ku mwana.

Ivomo risize irangi ry'umweru rifite ibirango byanditswe mu mabara y'ubururu n'umukara, hari abagore babiri n'umukobwa, wambaye agapfukamunwa, agapira k'iroza gufungurira umugore uri kunywesha amashyi'ruhande hari amajerekani abiri y'ibara ry'umuhondo n'umugore wambaye agapfukamunwa uri gukaraba intoki.

Umwana urimo kuvomera mu ijerekani y'irabara ry'umuhondo, amazi akandagiyemo usibye kuyuhiza indabo, kuyabumbisha amatafari ya rukarakara, ntiyemerewe gutekeshwa, kunyobwa cyangwa kuyakaraba, kuko yavomanywe isuku nke, bishobora gutera indwara zitandukanye, zirimo impiswi, macinya na korera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo etajeri iriho imashini zikoreshwa mu kongerera umwuka indembe, iruhande hari icyuma gifasha gushyiramo uwo mwuka kugira ngo abarwayi bawukeneye bawubonere ku gihe.

Umusore yambaye indorerwamo z'amaso, umupira wibara ry'ironji, afashe ibyo kurya mu kaboko k'ibumoso, ku isahani y'ibara ry'umuhondo, ari kumwe n'akana kambaye umupira w'ibara ry'ronji, gakikiwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umuhondo, umutuku, ironji n'ibara ry'icyatsi kibisi, rigaragaza ijanisha mu guhangana n'ubusumbane mu buzima bw'abaturage ku isi. Haragaragara amakuru ari mu nyuguti z'umukara ku bibazo byo kutagira uburinganire mu buzima bw'imibereho hirya no hino ku isi.

Amavomo atatu ariho abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri ya kaki baravoma amazi bavomera mu ndobo zisa ibara ry'ironji, akajerekani gasa ibara ry'umuhondo. Aho abana ubona baguwe neza kuba barigukoresha ayo mazi.

Ivomo riri mu ibara ry'ubururu, hafasheho umugabo wambaye ishati y'ibara ry'umukara, wambaye ingofero y'ibara ry'umuhondo n'ikabutura y'ibara ry'umweru, iruhande hakikije abana bafite indobo y'ibara ry'ironji n'umukondo w'umutuku n'indobo y'ibara ry'umweru n'umwana uhahagaze wambaye agapira k'ibara ry'umutuku.

Umubyeyi uteze igitambaro mu mutwe cy'ibara ry'iroza n'ikigina, yambaye n'igitenge cy'iribaya, ateruye akana gasa nk'akagize ubwoba, kari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'ibara ry'umweru y'amaboko maremare, n'uturindantoki tw'ibara ry'umweru, muganga afashe igipfuko, arimo arapfuka wa mwana mu mutwe.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, hateraniye abantu bambaye udupfukamunwa, umwana bari guha igitonyanga cya vitamine, mu rwego rwo kumufasha mu mikurire no kumurinda indwara z'igwingira zifata abantu bakiri bato, munsi y'imyaka itanu.

Umwana yambaye agapira k'ibara ritukura afashe inkoni kakabutura k'ubururu bwerurutse mu kajerekani k'umuhondo ijerekani y'ibara ry'uruji n'umufuniko w'ibara ritukura ku ivumo umwana wambaye agashati k'ubururu bwerurutse agakabutura k'ikigina abandi babiri bari kuvoma.

Umugabo muremure wambaye ishati y'umweru, ikote ry'ikigi, ipantaro y'umukara, afashe terefone mu kuboko kw'ibumoso, ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, bambaye amataburiya y'ububururu bw'ikirere, afashe amaterefone, umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, kositimu y'umukara, ishati y'umweru, n'abandi basore babiri bambaye amashati ya kaki, amapantaro y'umukara n'amaterefone mu ntoki.

Umwana wifashe mapfubyi urambuye amaboko nk'ushayaya, abana barimo boga nk'ifi, ukubita umuvumba, bari mu ruzi bidagadura harimo ababoshye imisatsi b'abahungu n'abakobwa.

Abana bane bishimye, batese ibiganza bakaraba intoki, munsi yabo hari ibeseni, umugabo uhagaze iruhande rwabo afatishije mu kaboko k'iburyo igikombe, yambaye inkweto za parasitike z'umukara, ipantaro ndende y'ibara ry'ubururu, n'agapira k'ibara ry'ubururu bwerurutse.

Umugabo uri kumwe n'umwana w'umukobwa, wambaye umupira w'iroza, umugabo yambaye umupira w'ubururu uriho agakoti k'ibara ry'umweru, yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, umwana yikoreye ijerekani y'ibara ry'umuhondo, iriho Ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku mpunzi kiri mu ibara ry'ubururu.

Itsinda ry'abantu bane bicaye ku ntebe imbere y'inkuta zubakishije amatafari ahiye, hatatsweho ku nkuta ibipapuro birimo ubutumwa mu buryo bw'amashusho ajyanye n'ubuzima, muri icyo cyumba abaje kwisuzumisha no kwipfukisha niho bicara, kuko umugore urimo afite igipfuko ku gahanga, umusore nawe apfutse mu nkokora y'akaboko k'ibumoso.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ikositimu y'ibara ry'ikigina, karuvati y'ibara ry'iroza, ishati y'ibara ry'umweru. Ahagaze ahagana iruhande rw'intebe ziriho indangururamajwi, bigaragara ko arimo atanga ikiganiro cyangwa imbwirwaruhame ku bijyanye n'ishoramari mu buvuzi.

Urubyiruko ruhagaze ruri kumwe n'umugore usa nk'ubasobanurira, inyuma yabo hari isakazamashusho iri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'amagambo ari kwiyandikamo y'ibara ry'umweru, agaragaza ko yari gahunda y'igihugu ishinzwe guharanira uburenganzira bw'umwana, yari yateguwe n'ikigo cy'igihugu.

Inzu yubakishije amatafari ya mpunyu inguni isize irangi ry'umuhondo ubumanuke busize irangi ry'umukara, umwana arimo arasuka amazi ku gikuta hirya ye hubakishijwe amatafari ya rukarakara hari inkoko hari isekuru.

Mwarimu yambaye ishati y'ibara ry'umweru, ifite ikora ry'ibara ry'icyatsi, mu nkokora h'ibara ry'umutuku, afite ikaramu y'ubururu mu ntoki, akoze ku mwana wambaye ingofero ifite ubururu, n'ikijuju, n'akaruza. Umwana yegamiye umukecuru wambaye ingofero mu mutwe y'umukara, ishapure mu gatuza, agapira gafite iroza n'umukara.

Umujyanama w'ubuzima wambaye indorerwamo, agatambaro k'umweru mu mutwe, itaburiya y'ubururu bwijimye, umupira w'amaboko maremare w'icyatsi kibisi, arimo arafatira umuvuduko w'amaraso umusaza wambaye ingofero, agapira k'umweru n'ikote ry'ibara ry'ikijuju.

Abana bari ku ivomo ry'isoko y'amazi bakaraba intoki zabo, ayo mazi y'urujojo aragwa mu ibase itukura nini, bari mu gikorwa cyo kwita ku isuku y'intoki, bakoresheje amazi meza nk'ikimenyetso kigaragaza ko amazi meza afitiye umumaro umuryango nyarwanda.

Kandagira ukarabe ya kinyarwanda hakoreshejwe akajerekani n'ibiti bitatu by'umutambiko n'ibishinze bibiri, ifite isabune iri mu kantu k'ibara ritukura, umugore wambaye ingofero y'ikijuju wambaye umupira w'ubururu n'umweru, igitenge kiririmo ibara ry'igitaka n'akaruru.

Abantu benshi bahagaze barangamiye mu nyubako, aho bigaragara ko baje nko mu mahugurwa cyangwa igiterane cy'ibintu bijyanye n'ubuzima, hari ihema ry'umweru bahoze bakoreramo, hari umugabo wambaye umupira ubona ko yarari kuri telefone igendanwa nk'uri gutanga amakuru y'ikimaze kuba cyangwa ko bashoje.

Mwarimu yambaye umwenda w'ikora ry'icyatsi, umweru ahandi no ku maboko ibara ritukura, afite ikaramu y'ubururu mu kaboko k'iburyo n'ikayi ku kibero afatishe ukuboko kw'imoso, afashe ku rutugu rw'umwana mutoya wambaye ingofero irimo ubururu n'ikijuju n'umukecuru wambaye ingofero y'umukara mu mutwe n'ishapure mu gatuza n'abandi bakecuru bamuri inyuma.

Ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye wita ku bana, harimo ishusho y'umuntu mukuru ufite umwana mu biganza, bombi barebana neza. Ikirango kiri mu mabara y'ubururu, ingano ziteze nk'ibiganza bifasha umubumbe w'isi. Byombi biri mu mabara y'ubururu.

Icyapa kiriho ibirango mu mabara y'umukaraga, n'inziga zo mu mabara y'umweru zigaragaza amajanisha ku bijyanye n'uburinganire, bibiri na cumi n'umunani bagaragaje ijanisha ku buringanire hagati y'abagabo n'abagore bibiri na cumi n'icyenda bagaragaza ijanisha kugera bibiri na makumyabiri na rimwe.

Icyumba cy'ubuvuzi aho umurwayi aryamye ku gitanda arikumwumvira ko umuvuduko w'amaraso ugenda neza muganga yambaye indorerwamo z'amaso hari umuganga w'undi ufashe ifishi afite n'akumvirizo kumva uko umutima utera.

Abana babiri b'abahungu, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare w'ishuri, bari mu cyumba cy'ishuri gisa ibara ry'ubururu, ku kibaho hari impapuro zikoze uruziga, bigaragara ko bamanitse agatoki ngo bavuge.

Ihuriro ry'abagore bahuriye mu muryango w'abibumbye bita ku bari n'abategarugori iburyo bwacu tuhafite umugore wambaye igitambaro cy'umuhondo n'ikanzu n'urunigi mu ijosi, ibumoso tuhafite umudamu wambaye ikanzu y'umukara n'ikoti ry'umweru n'umukara.

Umugabo wicaye yipfutse mu maso, arasa n'uwihebye cyangwa ufite agahinda, yambaye umupira w'ibara ry'umukara, inyuma ye ku gikuta gisize ibara ry'ivu, hamanitse ibitabo biri ku mutambiko ukozwe mu giti.

Abantu bahagaze barimo abambaye indorerwamo z'amaso, abakobwa, abagore, abagabo n'abasore, bigaragara ko bafataga urwibutso rw'inama bavuyemo, ijyanye n'ubutabera no kwita ku.

Umugore wambaye ikanzu itukura n'agakoti k'ubururu bwijimye ku maboko hari ibara ry'umutuku n'ubururu bwerurutse, ahagaze inyuma y'ikirango cy'icyapa cyanditseho ubufatanye mu buvuzi, afatanyije amaboko areba imbere.

Abagore batatu, umwe bambayemo ikanzu y'umukara n'umweru n'akarangazina afashe urupapuro mu ntoki n'ikaramu, bicaye ku ntebe y'urubaho n'umugabo ubicaye imbere wambaye ipantaro ya kaki, umupira w'ubururu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe basa n'abamugusha neza kugirango ngo bamwandike.

Icyapa cyanditsweho n'ibara ry'umukara amagambogambo ari mu nyuguti nkuru, ikirango kigaragaza ubufatanye bw'Umuryango w'Abibumbye na Leta y'u Rwanda, kirango cy'urwego rw'Igihugu rushinzwe umutekano, ikirango cy'Umuryango w'Abibumbye witwa ku bana.

Umusore wambaye ishati ivanze amabara, wegamye ku gikuta cy'ibara ry'umweru, areba hejuru nk'uwibaza ibibazo birenze kimwe, ufite ibibazo bigoye ubwonko bwe, ufite ibibazo byo mu mutwe. Bimugoye ubona ko adatekanye, asa n'uri kure.

Umugore n'umukobwa bicaye ku ntebe ukozwe mu rubaho, umukobwa yambaye ikote ry'ubururu, n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, agatambaro mu ijosi ka kacyi, umugore bicaranye yambaye igishora kiri mu mabara atandukanye, arimo umutuku n'iroza, aho ubona ko arimo arira afite agahinda kenshi, uwo mukobwa agasa nk'umuhoza, n'umubungabunga.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu bwererutse yiteye umukenyero w'ibara ry'umuhondo ufite ibyishimo, ufite amenyo y'ibihanga, yambaye mu mutwe ingofero yera bigaragara ko yishimye.

Umugabo wicaye yigunze, amaboko ayafashije ku gahanga, aho umugore amufatishije akaboko k'ibumoso kariho isaha y'ibara ry'umukara, asa n'umukomeza, amubwira ati: "Ubuzima ntibuhagarikiye aha, ihangane."

Abantu batatu bicaye mu kibuga, hari inyubako zisa nk'izo mu nkambi cyangwa mu cyaro ahantu, bicaye ku ntebe zibajwe mu mbaho, bambaye udupfukamunwa, umubyeyi yicaye asa n'ubaza umwana umwicaye imbere wambaye akarangamazina, ku bibazo byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako isize amarangi y'ibara ry'iroza. Imbere hahagaze umugabo urimo yifotoza wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'ibara ry'iroza n'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Iruhande rw'inyubako hateye ibiti birebire n'indabo, hashashe amapave mu mbuga.

Urubyiruko rwicaye ruhugurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubahugura yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu bwijimye.

Umugabo wicaye ubona ari mu ishusho y'agahinda, avuga ko kuganirizwa atari uko bisaba kuba hari icyakubayeho, ushobora kuganirizwa bakuganiriza ku hahise kugira ngo umenye uko witwara, bidasaba kuba wahuye n'ikibazo runaka, ari mu gahinda urabona byamuyobeye.

Umugore ufashe indangururamajwi mu kaboko k’iburyo, yicaye ku ntebe itukura, ashyize amaboko ku meza ariho igitambaro cy’icyatsi kibisi, iruhande rwe, hari umugabo wambaye umupira utukura, uriho akarango ku kaboko k’iburyo k’ikimenyetso cy’ibara ry’icyatsi kibisi. Umugore arasa n’uri gutanga amahugurwa ajyanye n’ibintu bijyanye na SIDA.

Umusaza wambaye indorerwamu z'amaso, ishati y'umweru, ari hagati y'amabendera ibumoso bwe hari Ibendera ry'ubururu bwerurutse n'ibara ry'umweru ririmo ikirango cy'Umubumbe w'Isi, iburyo bwe hari Ibendera ry'ibara ry'icyatsi kibisi ,umuhondo, ubururu, hari ikirango kivuga ku by'ubuzima ngo ni twubake ahazaza twese hamwe.

Umugore n'umugabo bari mu cyumba cy'ubuvuzi, hari icupa imbere yabo hatatse igitambaro cy'ibara ry'umuhondo, umugabo ari kwandika mu gitabo, umugore agenda amubwira amusobanurira ibijyanye n'ubuzima bari kuvuganaho bwo mu mutwe.

Ibitaro byita ku buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, igikuta cyubakishijwe amatafari ya ruriba, ikirango cyaho kiri mu mabara y'umweru, n'inyandiko ziri mu mabara y'ubururu, z'umuro munini, hari ikirango cy'umuhondo n'umutuku.

Imodoka y'ivuriro rigendanwa yita ku buzima bwo mu mutwe, hicaye abantu babiri babiri b'abagenerwabikorwa bategereje kwitabwaho no gusobanurirwa byimbitse, ni ubwoko bw'ubuvuzi bukorerwa kwegerezwa abaturage.

Abantu icumi bahagaze, batanu muri bo bafashe utwapa dutoya mu ntoki, twiganjemo ibara ry'ironji, umuhondo, icyatsi kibisi n'umweru. Inyuma yabo hari icyapa kinini, kiri mu ishusho ya mpande enye, cyiganjemo ibara ry'irunji, umuhondo n'icyatsi kibisi, Hakurya hari ikibumbano cy'umugore, kiri mu ibara ry'izahabu.

Umugabo wicaye hafi y'umwobo w'umuyoboro w'amazi, yambaye agatenge kagaragaza ko kanduye, afashe amashashi mu ntoki afite ibijerekani bisa ibara ry'umukara bishaje, bigaragara ko uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyumba kirimo urumuri rukeya gishashemo ibitenge hasi n'umukeka, hicaye umusore wambaye igitenge, wifashe mu gahanga uboshye amaguru, nk'ufite agahinda cyangwa se intekerezo mbi, uri mu bwigunge n'ubwihebe bw'ikibazo kidafututse.

Icyumba cy'inama kirimo abagore, abagabo n'abakobwa, harimo umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso, agashati k'ibara ry'icyatsi kibisi n'umugore wambaye ikanzu y'amabara avanze, ufashe indangururamajwi nk'ubaza ikibazo, imbere yabo hari mudasobwa n'agacupa k'amazi.

Ikirango cya wihogora kiri mu mabara yicyatsi kibisi. Amagambo ari mu nyuguti nkuru. Hari amaboko y'umuntu usa nkuhobereye. Igishushanyo cyuruziga kigaragaza umutima wundi muntu kiri mu ibara ry'ironji, kigaragaza gukina ku marangamutima y'umuntu ugirango umufashe.

Umubyeyi wambaye indorerwamo z'amaso, ikoti ry'ibara ry'ubururu, afashe indangururamajwi, iburyo bwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa n'ikoti ry'umukara ry'ambariwemo ishati y'amaboko maremare y'umukara n'umweru, aho ari gusobanura ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ingamba twafata.

Umugore yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari umusambi, ari mu cyumba kimeze nk'inzu ya kinyarwanda, hariho idirishya ry'igiti, ubona ko ameze nk'ufite agahinda cyangwa yumiwe, afite ibibazo byo mu mutwe byinshi.

Itsinda ry'abantu icumi, abagore n'abagabo, bashoje amahugurwa, bafite impamyabumenyi mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kinini, kirimo ibara ry'ironji umuhondo n'icyatsi kibisi, bigaragaza abateye inkunga ayo mahugurwa, n'abafatanyabikorwa babayemo. Inyuma gato yaryo, hari ikibumbano cy'umugore.

Abana bahagaze bafite ubujerekani bw'umuhondo, ubarangaje imbere yambaye inkweto za palastiki z'ibara ry'icyatsi kibisi, n'agapantaro k'ibara ry'icyatsi kibisi, n'umupira, undi yifashe mu mifuka yambaye ikoti ry'ibara ry'umukara, ubona ko ari abana bagaragaraho isuku nkeya, bari no mu buzima butaryoshye.

Umugabo wambaye ikositimu yibara ry'umukara ishati y'ubururu bwijimye, yifashe amaboko ayapfumbase bigaragara ko ahaye icyubahiro ahantu ashyize indabo z'ibara ry'umweru, umutuku, n'icyatsi kibisi, arikumwe n'umuntu ushinzwe umutekano bigaragara ko barimo bibuka.

Abagore n'abagabo barimo baganira ingingo zitandukanye ku buvuzi bwo mu mutwe. Umugore wambaye ikoti rifite ibirango agenda agaragaza ikintu akoresheje mukuru wa meme ku kaboko k'imoso, abandi bamutega amatwi bafite amakayi n'amakaramu. Harimo umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu bwerurutse.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'urubaho, yambaye agapira k'ikigina, ijipo y'amabara atandukanye, agatambaro mu mutwe k'ibara ry'umuhondo. Inyuma ye hari igikuta, gishushanyijeho ikimera cy'icyatsi kibisi gifite ururabo rw'umuhondo. Yicaye yitegereza ibintu ibumoso bwe nk'umuntu wataye umutwe.

Abana bari mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibibazo byo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe, abana ubona ko bishimye bakoze udupapuro bagashyira mu mutwe mu rwego rwo kwizihizanya umunsi mpuzamahanga.

Umukobwa wambaye ikirango cya sosiyete y'itumanaho, ari mu iduka ririmo ibicuruzwa, yambaye agakoti k'ibara ry'umuhondo n'umukara mu rwego rwo kugaragaza kwitinyuka no kwiteza imbere nk'umukobwa, cyane cyane babungabunga kugira ibibazo byo mu mutwe biterwa n'ubukene.

Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, muri gahunda y'urugendo shuri, bagenda bavugira mu ndangururamajwi, bati kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye. Mu rwego rwo gushishikariza abantu, ko badakwiye guceceka mu gihe babona umuntu uhohoterwa.

Muganga yambaye imyenda y'ubururu. Agapfukamunwa k'umweru, akanozasuku, uturindantoki tw'ibara ry'ubururu. Ari kumwe n'umurwayi arimo yogereza amenyo, akoresheje indorerwamo n'icyuma gishinzwe koza mu kanwa.

Imashini ikoreshwa mu koza amenyo, intebe umurwayi yicaraho iri mu ibara rya move, akamashini umuntu aciramo kari mu ibara ry'umweru, akabati muganga aba yicayeho yandika, intebe iri mu ibara ry'umukara aho muganga yicara akwakira, agatebe k'ibara ry'iroza kazenguruka kicaraho muganga yoza umurwayi mu kanwa.

Umusaza uri mu cyumba cy'ubwogero, yambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'ikijuru, afashe mu ntoki akuma kamufasha kwipima urugero rw'isukari iri mu maraso. Bigaragara ko ashaka kumenya uko aramutse, mbere yo gukora indi mirimo.

Umukobwa wafunze isume nk'igitambaro cyo mu mutwe, wambaye isengeri y'umweru, yafatishije ukuboko kw'iburyo uburoso bw'amenyo, aho ari gukorera isuku amenyo mbere y'uko aryama mu rwego rwo kugira ngo agire mu kanwa hafite isuku.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru iriho uturango tw'ibara ry'ubururu bwerurutse, afashe uburoso mu ntoki yereka umwana uko boza amenyo wambaye ishati y'icyatsi kibisi, iruhande hari umuntu wambaye kositimu y'ikijuku, umupira w'umweru.

Imiterere y'amenyo hifashishijwe imirasire yihariye inyura mu mubiri w'umuntu, ikagaragaza ibice bitandukanye bitagaragara inyuma nk'amagufwa n'imizi y'amenyo. Iri koranabuhanga rifasha cyane muganga kumenya ibibazo bishobora kuba bihari mu kanwa muri rusange.

Umukobwa wambaye ingofero y'ubudodo bw'umweruru mu mutwe afashe mu kaboko k'ibumoso urudodo rwifashishwa mu gusukura amenyo akeshi barwita urudodo rw'amenyo arirwo rugenewe gukuramo imyanda hagati y'amenyo ahantu uburuso busanzwe butagera, uru rudodo ni ingenzi mu gusukura amenyo neza cyane runarinda kubyimba kw'ishinya n'ubundi burwayi bw'amenyo buterwa n'isuku nkeya.

Muganga wambaye umwambaro w'umweru, agapfukamunwa, indorerwamo z'amaso mu gahanga, uturindantoki tubiri tw'ibara ry'umweru, ari mu cyumba cy'isuzumiro, aho ari kuvura umwana amenyo wambaye umupira w'ibara ry'umutuku.

Umusore wambaye agapira k'umweru, ufite urudodo rw'amenyo akoresha mu gukorera isuku amenyo dukuramo imyanda y'ibiryo, uburoso bw'amenyo butashoboye gukuramo no gukesha mu kanwa kugira ngo ishinya cyangwa se amenyo atagira ikibazo.

Umugabo wambaye igituza afite ubwanwa bwo hejuru n'ubwo hasi, arimo arakorera isuku amenyo akoresheje agati k'ibara ry'icyatsi kibisi kagenewe gukura imyanda mu menyo.

Abaganga batatu b'abasore n'umwe w'umukobwa, bambaye udupfukamunwa umukobwa yambaye uturindantoki tw'ibara ry'umweru, yambaye itaburiya y'umweru n'umupira w'umweru, imbere ye hari ikaramu y'ubururu arimo aravura umuntu mu menyo.

Umukobwa wicaye uboshye imisatsi, ari kumwe n'umuntu ugaragara nk'umuganga, wambaye uturindantoki tw'ibara ry'umweru, imbere ye hari amenyo, bigaragara ko ari kugenda agera mu kanwa k'umukobwa, kugira ngo arebe iryinyo ryakwirana n'amenyo asanganywe, kugira ngo bongerere ubwiza mu kanwa.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru. Hariho udukarito turimo imiti y'amenyo. Umwe muri bo wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ibirango by'ibara ry'umuhondo. Afite uburoso bw'amenyo aho ubona ko arimo yerekana uko koza amenyo kwiza bikorwa yereka abandi.

Icyumba kirimo imashini zikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo, iburyo bw'intebe hari imashini ikoreshwa umuntu yoza amenyo, ibumoso hari aho umurwayi acira imyanda bamukuye mu kumwoza amenyo, hari intebe umurwayi aba yicayeho.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri y'icyatsi kibisi n'umweru n'makabutura y'icyatsi kibisi cyijimye, bafite uburoso mu menyo n'udukombe turimo amazi. Agakombe k'iroza n'umweru, agakombe k'umuhondo n'umweru, agakombe k'ubururu n'umweru, uburoso bw'iroza, uburoso bw'ubururu, uburoso bw'icyatsi kibisi.

Umukobwa ukoze ikimenyetso ku menyo cya mpande esheshatu ashaka kugaragaza uburyo afite amenyo meza afite isuku akorewe isuku arakeye nta mwanda urimo nta kibazo na kimwe kiri muri aya menyo akorewe isuku ishoboka.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri, gifite idirishya ry'ibara ry'icyatsi kibisi, bari kumwe n'abarezi babo, aho bari mu ngamba z'isuku y'amenyo. Buri munyeshuri afashe uburoso bw'amenyo, mu rwego rwo kugaragaza uko isuku y'amenyo ikwiye gukorwa mu ngo, ndetse no ku ishuri babibashishikariza.

Abakobwa babiri umwe yambaye indorerwamo z'amaso, afashe ikaramu arimo arandika ku rupapuro, undi afashe urupapuro twebwe tureba rumeze nk'urwakoreweho ingengabihe, yishimye nkaho bari basoje amahugurwa, kuko imbere yabo hari ameza atatseho ibara ry'ubururu, ariho amacupa menshi y'amazi.

Muganga wambaye imyambaro y'ubuvuzi mu ibara ry'icyatsi kibisi n'agapira imbere k'umweru, yambaye indorerwamo z'amaso, agapfukamuwa k'icyatsi kibisi n'umweru, uturindantoki tw'ibara ry'umweru arimo arasuzuma umwana akoresheje indorerwamo ngo arebe iryinyo ryaba rirwaye.

Umwana uryamye ku gitanda cyo kwa muganga w'amenyo, muganga afashe indorerwamo ikoreshwa mu kanwa, yambaye uturindantoki, afashe iserenge irimo amazi akoresha mu koza mu kanwa k'umwana.

Umusore useka ashyize urudodo rw'amenyo mu kanwa, isuku y'amenyo ni ingenzi, ucishamo uburoso buriho umuti w'amenyo, ariko cyane cyane ugakoreshamo n'urudodo rw'amenyo, kuko rukura imyanda y'ibiryo byasigaye mu kanwa, bikarinda ishinya kwangirika kandi bikarinda n'amenyo kugumana uwo mwanda.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ufite mu kaboko k'ibumoso uburuso bw'amenyo bw'ibara ry'icyatsi kibisi, arimo arakorera isuku amenyo, yireba mu ndorerwamo, gukorera isuku mu kanwa ni ingenzi, kuko umuti w'amenyo ukesha amenyo ukayahindura umweru, bikadufasha kugira impumuro nziza no kuyarinda kwangirika.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we bombi bafite uburoso buriho umuti w'amenyo, umubyeyi yigisha umwana uko akwiye koza amenyo mu rwego rwo kurinda indwara zo mu kanwa no kugira isuku akiri muto.

Muganga w'amenyo wambaye itaburiya y'ibara ry'umweru y'amaboko maremare, ishati y'ubururu, karuvati itukura, agapfukanwa k'ibara ry'umweru, uturindantoki tw'ibara ry'umweru, afashe agati ari kurebesha mu kanwa k'umusaza wambaye umupira wibara ry'icyatsi kibisi agirango arebe iryinyo rirwaye.

Muganga wambaye uturindantoki tw'ibara ry'icyatsi kibisi, ari kumwe n'umwana uryamye ku gatanda k'ibara ry'umutuku, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, wasamuye mu kanwa muganga afashe ku menyo y'amabwene nk'ureba ahari ikibazo cy'ishinya n'amenyo.

Muganga w'amenyo wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ibara ry'umweru, arimo gukorera umuntu uri ku gitanda yasamye, kugira ngo asuzume cyangwa avure amenyo ye, arimo gukoresha ibikoresho bidasanzwe harimo serenge afashe mu kaboko k'iburyo, ijyana n'ibikoresho by'amenyo.

Mu kanwa heza ni ryo shema ryacu, ubuzima bwo mu kanwa ni ingenzi, kugira amenyo asukuye, akeye, adafite indwara ni igenzi, kwita ku ishinya yacu kugira ngo ye kwangirika, imizi y'amenyo ye kwangirika ni yo ntego yacu, dukoresheje uburoso n'umuti w'amenya wizewe.

Umusore useka afite urudodo mu kanwa, urimo gukoresha uru rudodo mu gusukura hagati y'amenyo aho uburoso bw'amenyo butagera. Amenyo agira indwara nyinshi zituruka ku myanda y'ibiryo bisigaramo, cyane cyane dukeneye utudodo dutoya two gukoreshamo kugira ngo dukuremo iyo myanda, iba yitsindagiye hagati mu menyo itera uburwayi mu mashinya.

Muganga uvura amenyo, yambaye itaburiya y'umweru iriho ibirango by'ibara ry'icyatsi kibisi, ku mufuka hariho ikaramu, aho yifashe nk'uwasobanuraga, yicaye ku gatebe, iruhande rwe hari imashini iryamaho umurwayi mu gihe barimo bamutunganyiriza amenyo.

Muganga wambaye itaburiya y'ibara ry'umweru y'amaboko maremare, uturindantoki tw'ubururu, afashe indorerwamo yo mu menyo, yerekeza ku musore wicaye ku ntebe, iri mu cyumba cyo kwa muganga w'amenyo, aho agiye kumurebera mu menyo iryaba rifite ikibazo, cyangwa se irikenewe kugirirwa ubuvuzi.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri ashinze inkokora afunze ibipfunsi ku muce w'ubururu bwijimye, yambaye isengeri ya move, ifite udushumi tw'imyeru, akanigi k'umweru mu ijosi, imvi mu mutwe aseka.

Umusaza n'umusore bari mu myitozo ngororamubiri, yo gufasha umusaza kugorora amaboko no kongera kunanura imitsi. Umusore agenda amufata, umusaza akagenda akurura umugozi kugira ngo yongere arambure mu mugongo, arambure amaboko.

Umusaza uri kumwe n'umwana, umusaza yicaye mu kagare k'abasheshe akanguhe, cyangwa abafite ubumuga, umwana amufashe n'ibiganza bye byombi, nk'uwishimiye ko baba bakina basabana. Umusaza amureba avuga ati: "Mwana wanjye, ubuto ni bwiza".

Muganga wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, arimo arafasha umukecuru gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agapira k'ubururu bwerurutse, agapira k'imbeho k'ikijuju, afashe rasitike mu kaboko, ibara ry'iroza, muganga yambaye umwenda w'ubururu bwijimye.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko magufi, ikora ry'ubururu bwijimye, ku nkokora h'ubururu bwijimye, irimo uturongo dutambitse tw'ubururu n'umweru, wizihiwe, arimo abuguza, ubona ko anejejwe no kugira intsinzi, yicaranye na mugenzi we bari gukinana.

Umukecuru n'umusaza, bicaye iruhande rw'ameza ateretseho agacupa karimo umuti, n'ikirahuri cy'amazi, umukecuru afashe urupapuro, umusaza afashe terefone igendanwa, bagiye kureba icyo uyu muti ukozwemo n'uko wakoreshwa.

Abagore babiri barimo bagenda mu myitozo ngororamubiri, umwe muri bo yambaye agatambaro k'ibara ritukura, bari guca iruhande rw'ibiti birebire, hari indabo z'ibara ry'umuhondo, hari ikimera cy'umugwegwe gikurwamo imigozi ibohwamo imirunga yo kuzirika ihene.

Umurwayi w'umugabo urimo gufashwa kugenda, hakoreshejwe igikoresho cy'insimburangingo yo gutera intambwe, abenshi bita akagare k'abafite ubumuga, iruhande rwe hari umugore wambaye umwambaro w'ubuvuzi, ugenda amuha inama. Iri gare rifite impande enye, rifasha urikoresha guhagarara neza no kugira uburinganire bw'umubiri.

Abantu babiri mu gikoni umwe yambaye agapira k'ubururu bw'ikirere afashe agasorori k'kirahuri yifashe ku matama n'akaboko k'ibumoso umukecuru yambaye indorerwamo z'amaso agapira k'umuhondo k'amaboko maremare acagagura imboga zitandukanye, karoti, inyanya, uducunga tw'imitereri ku kabaho ari nako batera urwenya.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, umupira w'amaboko magufi, afashe igitabo mu ntoki kibumbuye, ari kwereka amashusho umusore wambaye ishati y'umukara n'umweru, imbere yabo hari udukombe tw'ibumba ry'ibara ry'umweru.

Umusaza afatishije akaboko k'iburyo ikanya iriho agace k'inanasi, ibumoso bwe hari agasahani karimo masedowani y'umwembe inanasi na water melon, hari umugore ushinzwe iby'imirire w'umuganga ufashe ijage mu ntoki ari gusuka umutobe w'imbuto imbere ye hari pome hari inanasi.

Umusaza urimo yiyuhagira mu bwogero bwa kizungu, ari gufashwa n'umukecuru, aho umusaza yafunze amaso kugira ngo aryoherwe n'ubukonje buri mu mazi n'ibyo biganza biri kumushimira mu imvi y'umugore we, bibukiranya iminsi ya kera kandi amushimira no mu mutwe.

Muganga mu ipantaro n'agashati by'ubururu bwijimye, arimo arafatira umuvuduko w'amaraso umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, agapira k'ubururu bwerurutse karimo imbere, agapira k'umweru, wambaye ipantaro y'ikijuju, wicaye mu ntebe z'ikijuju kigajutse.

Umukecuru, umukobwa we, n'umwuzukuru. Bari mu gikoni, umukecuru yambaye umupira wa kaki w'amaboko maremare, umukobwa we yambaye indorerwamo, n'umupira w'icyatsi kibisi, umwuzukuru yambaye umupira w'ikijuju w'amaboko maremare, aho afashe imboga ari kubona adasa nushaka kuzirya. Umukecuru ari mu bwuzu bwinshi n'urugwiro n'umukobwa we.

Muganga yambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu, ufashe ku rutugu umusaza wambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare w'ibara ry'ikijuju, umupira w'ibara ry'ubururu, ipantaro ya kaki umusaza yicaye mu gatebe k'ababana n'ubumuga cyangwa abageze mu zabukuru batagifite intege, inyuma y'umusaza mu kaboko k'ibumoso, hari ivaze iteguwemo indabo iri mu ibara ry'ikigina n'ibara rya zahabu.

Icyumba cy'uruganiriro abantu bicaye ku meza bakina amakarita baseka bahuje urugwiro, baganira ubona ko baguwe neza ari bwo bufasha twaha abageze mu zabukuru mu kubamara irungu kugira ngo bagubwe neza mu mitekerereze.

Umugore utwite n'umukecuru bari mu myitozo ngororamubiri, umubiri wacu ukeneye kugororoka cyane cyane umugore utwite, kugira ngo bimurinde ibibazo n'ingaruka yaterwa n'ibibazo byo gutwita, ariyo mpamvu imyitozo ari ngombwa kuko ituma umubiri wacu ugubwa neza.

Mukecuru uri kumwe n'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu, afashe ikinini mu kaboko k'iburyo agihereza mukecuru, mukecuru aramurangariye nkaho muganga ari kumusobanurira uko akwiye kunywa icyo kinini, kandi akaboko ka mukecuru k'iburyo gafashe ikirahuri cy'amazi agiye gukoresha anywa cya kinini.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugenda bambaye imyenda y'amaboko maremare ya siporo, amapantaro y'umukara n'umweru, ipantaro y'ubururu n'umweru bafashe amacupa y'amazi mu ntoki baragenda baganira, umwe muri aseka afunze igipfunsi cy'ukuboko kw'ibumoso.

Muganga wambaye indorerwamo z'amaso, agapfukamunwa, agasuzumisho k'uko umutima utera, yambaye uturindantoki tw'ibara ry'umweru, isaha ku kaboko k'ibumoso y'umukara arimo arasuzuma umukecuru wambaye ikanzu iciye amaboko iri mu ibara ry'ironji n'igitaka, ukubye akabero.

Umukecuru wambaye agatambaro mu mutwe, wambaye igitenge yiteye akitero ahabwa uburingiti bw'iroza n'ibara ry'ikigina abuhawe n'umugore wambaye ikanzu irimo ibara ry'umuhondo na move n'agatambaro ateze mu mutwe ka move, n'inkweto za siporo z'umukara n'umweru.

Umurima w'amasaka, abantu bawuhagazemo ubona ko bishimye, abamanitse bwa nyirabunyagwa, abamanitse inyamuro zo kubagaza, ubona ko banejejwe rwose no gufata ifoto y'urwibutso muri uwo murima.

Abasaza bakenyeye kinyarwanda, bambaye ingofero z'urugara, uwambaye indorerwamo z'amaso yambaye ingofero y'ubururu, ishati y'icyatsi kibisi, umwitorero w'umweru, undi yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, umwitero w'umukara n'ingofero y'urugara ya kaki.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso, igishura cy'umweru n'umwitero afashe inkoni mu kaboko k'iburyo, ibumoso bwe hicaye abasaza batatu bicaye mu ntebe z'ibara ry'iroji, umwe muri bo yambaye igishura, n'inkoni mu ntoki. Iburyo bwe hicaye abasaza batatu, umwe yambaye igishura, n'urunigi mu ijosi.

Abantu bicaye mu gataba karimo ubusitani, hari umukecuru urimo uboha igitebo, umukobwa wicaye ku ntebe ya parasitike y'ibara ry'iroza, n'umukecuru wambaye ijipo y'ubururu wicaye ku ntebe ya parasitiki y'icyatsi kibisi, barimo baraganira, bari kumwe n'umusaza uteruye akana gatoya, ubona ko bahuje urugwiro.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu. Afashe telefone igendanwa mu ntoki irimo amashusho, ariko kubw'izabukuru amaso urabona ko atabibona neza, umugore umuri hafi wambaye imyenda ya kiganga y'ubururu bwijimye amureberamo. Bari ku meza ariho indangururamajwi.

Abantu bakoze uruziga, bicaye ku ntebe za palasitike z'umweru n'iz'imbaho, bameze nk'abari mu nama, abasaza begamiye ibiti bicaye begamiye ibiti, hirya yabo hari igiti kigandaye kibahereza igicucu, basa nk'abari mu nama y'umudugudu.

Umukecuru wambaye igitambaro cy'umukara, indorerwamo z'amaso n'umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'ironji, aganira na muganga, aho amufasha amwibutsa ko ubuvuzi bwa none bwateye imbere, aho umurwayi ari ingenzi kwa muganga ko ari umwami, ko akwiye kwitabwaho kuko ari uburenganzira bwe kandi ko ari uw'agaciro.

Umukecuru uri mu gikoni afashe ikirahuri cy'amazi n'ibinini mu kaboko k'ibumoso, abireba nk'urambiwe ubuzima avuga ati nzanywa ibi binyagwa kugera ryari? Ni ikibazo cyo kwibaza kubwo kugira indwara zidakira.

Abakecuru bageze mu zabukuru bakeneye kwitabwaho, umukecuru ari mu gikoni, bigaragara ko ari mu nzu wenyine, afashe ikirahuri cy'amazi mu kaboko k'iburyo n'ibinini mu kaboko k'ibumoso, arabireba nk'ufite isesemi utanyuzwe no kubinywa.

Umukecuru wicaye ku meza mu ruganiriro imbere ye hari agacupa akuyemo imiti agiye kunywa, yambaye indorerwamo z'amaso aho yishimye nk'ufite gahunda yo kunywa imiti neza nk'uko muganga abimutegeka.

Umusaza uhagaze iruhande, yambaye isaha yo mu kaboko k'ibumoso, bigaragara ko ari isaha igezweho ikoreshwa mu buvuzi, mu kugaragaza uko umubiri w'umuntu uyambaye umeze, kuko urabona ko asa n'uwitegerezaho ibintu runaka, biri mu mubiri we, ari gupima uko bihagaze.

Umukobwa yambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'ibara ry'umweru, akajire k'ibara ry'ubururu, yambayeho akarangazina ku kaboko k'ibumoso, ari gufasha umusaza wambaye ishati y'amaboko magufi y'ibara ry'umweru n'ikigina, ipantaro ya kaki, kugendesha ku kagare kamufasha kugorora amaguru.

Umukecuru n'umusaza baricaye, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'ingwe, umusaza yambaye agapira k'ubururu, mukecuru yambaye agapira k'umuhondo, barimo barasoma urupapuro umukecuru yambaye impeta ebyiri mu kaboko k'ibumoso n'imwe mu kaboko k'iburyo, umusaza yambaye agakufi ku kaboko k'ibumoso n'impeta ku kaboko k'ibumoso.

Umusaza n'umusore bari mu muhanda w'amabuye, aho bagiye bafatanye ku rutugu baganira baseka, umusaza yambaye ingofero y'urugara, ishati ya kaki n'ipantaro y'umukara, inkweto za siporo, uwo afashe yambaye agapira k'ubururu, ipantaro ya kaki inkweto za siporo, bahuje urugwiro baragenda baganira baseka.

Muganga wambaye ishati y'umweru karavati y'ubururu bw'ikirere, itaburiya y'umweru, afite akumvirizo kumva umutima n'ibihaha akabikora neza, arimo arasobanurira umusaza wambaye ishati y'ikigina, bicaye ku ntebe z'umweru, bashyize amaboko ku meza y'umweru, ahafite igitabo n'ifoto yafashwe n'imashini, agenda amusobanurira.

Umuganga wambaye imyenda y'ubuvuzi iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, afite ku ijosi igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu buvuzi wumva amajwi yo mu mubiri imbere cyane cyane ay'umutima n'ibihaha, afatanye mu kiganza n'umukecuru ufite umusatsi w'imvi wambaye indorerwamo z'amaso, muganga arishimye umukecuru yambaye umupira w'amaboko maremare w'imbeho uvanze amabara, ibara ry'umukara n'ibara rya kaki.

Umukecuru wicaranye n'abana be n'abuzukuru mu rugo, hari ibijerekani bivomerwamo amazi ubona ko bishimye basa n'abari mu birori byo kuza gusura umukecuru.

Umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso, ikanzu y'ibara rya zahabu, afashe mu ntoki agacupa ari gukuramo ibinini kugira ngo abikoreshe mu rwego rwo kongera imirire no kugira ngo yite kuri gahunda yo gusaza neza, kunywa imiti imufasha gusazana ubuziranenge.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara, afite utuntu mu ntoki dukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, yambaye indorerwamo z'amaso, inyakiramajwi z'ibara ry'umukara, aho ubona aryohewe no kugorora umubiri akora imitsi y'amaboko.

Umukecuru yicaye mu gatebe kagenewe abageze mu zabukuru n'ababana n'ubumuga kabafasha kugenda, hari umubyeyi wambaye imyambaro y'ubuganga, ibara ry'ubururu, ufite agakoresho gakoreshwa mu buvuzi ko gupima umuvuduko w'amaraso, aho bicaye muri saloo apima ubonako yishimye.

Abagore bari mu isoko bari kumwe n'umukecuru uri gukoresha ibimenyetso by'amaboko, anavuga asa n'ubasobanurira ku bijyanye n'uko bagira inyanya nziza, uko bajya bazibika ngo ntizangirike, iruhande rwabo hari amaroji, hari amatunda, inyanya bazishyizemo baziteze ikarito mu mabasi.

Imyitozo ngororamubiri ku bakuze ni ingirakamaro kuko ikangura imyakura, ifasha imitsi kongera gukora neza kandi amaraso agatembera, ukirinda za rubagimpande ndetse ukarwanya no gusaza

Umusaza wambaye ishati y'amaboko magufi ivanze amabara, ari gukina umukino wa dame ishushanyije ku rubaho rukozwe mu giti rugabanijwemo ibice bibiri ahajya inka z'umukara n'izindi zo mu ibara rya zahabu mu kindi gice, akinisha intoki eshatu kuko ni zo zimufasha guterura inka agiye gukina.

Igikorwa cy'urubyiruko cyo kwitabira urugendo rw'ubukangurambaga, benshi mu rubyiruko bambaye imyenda yera kandi imbere hari itsinda rifite ikirango kiri mu mutuku n'umweru, insanganyamatsiko iri mu nyuguti z'umweru, ijyanye no kwirinda no kwipimisha virusi itera SIDA.

Abana bu'urubyiruko abahungu n'abakobwa harimo umukobwa wambaye indorerwamo z'amaso bafashe udukingirizo tw'ibara ry'umuhondo ibara ry'umutuku n'ibara ry'ubururu ari inyuma ya marido y'ibara ry'ironji mu cyapa cy'amabara y'umweru n'ibara ry'umutuku.

Abaganga bari mu cyumba, aho barimo bita ku murwayi bamubaga, bambaye udupfukamunwa tw'ibara ry'icyatsi kibisi, indorerwamo z'amaso bamwe muri bo, utunozasuku ndetse n'uturindantoki tw'ibara ry'umweru, ubona ko bari mu gikorwa cyo gutabara amagara y'umuntu.

Muganga wicaye, imbere ku meza ye hari impapuro, umuti usukura intoki, agakarito karimo uturindantoki. Yambaye ubwirinzi bukabije, ari kumwe n'abantu bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bari muri gahunda yo gukumira no kwirinda indwara z'ibyorezo zandura.

Umugabo wambaye kositimu y'umukara, umukandara w'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse; iburyo bwe hari umukobwa wambaye ikanzu ngufiya, inyuma yabo hari icyapa cyanditswe mu mabara y'umweru cyanditseho inyuguti nkuru ...

Umusore yambaye ipantaro ya kacyi, umukandara w'umukara, ishati y'amaboko maremare y'imirongo, umukobwa yambaye ipantaro y'ikijuju, inkweto z'umukara, bombi bafashe ibyapa biri mu ibara ry'umukara, byandikishijwe mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari intebe z'ibara ry'umweru.

Inyubako y'icyerekezo, ikozwe mu gishushanyo cy'igi, iri mu mabara atandukanye, ubururu, ironji, icyatsi kibisi, iruhande rwayo hahagaze umuntu, umunsi mpuzamahanga, aharaniye ababana n'uburwayi bw'isukari nyinshi, mu maraso.

Imbuga nyuma y'ibara ry'icyatsi kibisi n'ubururu bwerurutse, ishushanyijemo inziga ebyiri z'ibara ry'umweru harimo ibara ry'umuhondo, umutuku n'ubururu bwijimye, hasi handikishije amagambo y'ibara ry'umukara, hasi cyane hahera harimo ibara ry'umweru.

Abantu batatu bafashe ibipapuro biri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ibara ry'ubururu by'ibirango byanditse mu magambo y'umukara bigaragaza ingamba z'ubuzima zo kurinda imyanda imwe ikaba ibora iyindi itabora, tukamenya gutandukanya imyanda dukoresha mu ngo zacu kugirango twirinde isuku nkeya

Abagabo babiri bambaye amakositimu, amashati n'amakaruvati, umwe muri bo yambaye indorerwamo z'amaso. Barasa n'abari mu mahugurwa ku ngamba z'ubuzima ku bijyanye n'indwara z'ibyorezo, imbere yabo hari abantu bameze nk'abaje gukurikirana inama, bari kubwirwa n'umugabo wambaye indorerwamo.

Itangazamakuru ku rukingo rw'umuriro w'umuhondo yimuriwe ku itariki cumi n'enye z'ukwa kane umwaka wibihumbi bibiri makumyabiri na kane, amakuru meza ku ngamba z'ubuzima asohotse ku itangazo riri ku rupapuro rw'umweru n'ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bambaye ikositimu z'ubururu, umwe yambaye indorerwamo z'amaso na kositimu y'ubururu bwijimye, karuvati y'ubururu bwijimye. Bombi bafite ibitabo nk'abari mu ihererekanyabubasha, bigaragaza imikoranire myiza no kutagundira ubutegetsi byo muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu, cyandikishijwe inyuguti z'umweru n'umuhondo, kigaragazaho amagambo y'uko dukwiye kwirinda indwara y'ubushita nyine bw'inkende, aho harimo ibitobagure by'ibara ry'umweru, bigaragaza uko iyo ndwara ifata.

Icyumba cy'inama hahagaze umugabo imbere y'abari gukorerwaho inama, iruhande hari igikuta cy'ibara ry'ironji cyanditseho ko ari inama ngarukamwaka igarutse ku nshuro ya kabiri kandi ari mpuzamahanga, hirya hari insakazamashusho iri kureberwamo abandi bantu bari kureberamo.

Umugore n'umugabo bafashe ikirango cyanditseho amagambo ngo" twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira", aho bigaragara ko bari mu bukangurambaga, bwo gukangurira abantu kwisuzumisha igituntu.

Abagabo batanu n'abagore babiri bose bambaye uturangamazina mu ijosi turi mu ibara ry'ironje n'umweru, abagabo babiri bahetse amaboko n'umugore umwe, umugabo umwe afatiye amaboko imbere undi akoze mu mifuka, umugabo n'umugore bahagaze bwuma.

Umusaza useka ufite iyinya mu menyo, yambaye ingofero y'ibara ritukura, afite igipfuko ku jisho ry'iburyo, aho bigaragara ko bashobora kuba baramubaze ijisho kuko igipfuko kiriho kigaragara nkaho hari icyo bakoze ku jisho...

Muganga afite akumvizo mu matwi, yambaye umwenda w'umweru, ari kumwe n'akana gafite igipfuko ku kaboko k'iburyo kambaye umupira w'icyatsi kibisi, hirya ye hari ururabo ruri mu ivaze y'ibara ry'umweru, ururabo ni ibara ry'umuhondo ruteretswe ku kabati k'umweru.

Ikirango cy'imikorere gisobanura ingamba zubuzima, kiri mu mabara atandukanye, ubururu bw'ikirere mu izingiro, amashami y'ikirango, dufite ibara ry'umuhondo, kaki, ironji, icyatsi kibisi, n'ubururu bwijimye.

Abihayimana batatu, umwe ari kuramukanya n'umugabo wambaye ikositimu n'mupira aseka baganira, basa n'abavugana kuri gahunda y'ubuvuzi n'ubuzima muri rusange, bateze amatwi abandi babiri basigaye.

Umugore wicaye, wambaye ipantaro y'ibara ry'umweru, agashati k'amaboko maremare k'ibara rya zahabu, yambaye indorerwamo z'amaso, abagabo bambaye amakositimu bicaye, bambaye amakaruvati, umugore wambaye umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'umweru, abagore bambaye udupira tw'icyatsi kibisi, udupira tw'umuhondo, n'abandi bantu uruhuri.

Umugore wicaye mu ntebe y'ibara rya zahabu, afashe indangururamajwi, yambaye indorerwamo z'amaso, afite igitabo, bigaragara ko asobanurira abantu b'urubyiruko ibijyanye no kwirinda imibonano itateganyijwe.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo abarwayi, umuganga wambaye itaburiya y'ibara ry'ubururu, agapfukamunwa k'ibara ry'icyatsi, aho ubona ko barimo kwita ku barwayi.

Amashashi abitse amaraso aba yatanzwe n'abakorerabushake, mu gufasha ikigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza amaraso kugeza ku ndembe ziyakeneye, amaraso ni ingenzi mu mubiri rimwe na rimwe abakoze impanuka, abagize indwara zidakira zabamazemo amaraso, abo bose bakeneye amaraso.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere gikikijwe n'ubusitani bw'indabo n'ibiti, inyubako yayo yubakishijwe amatafari ahiye n'irange ry'ikijuju, ibirango biri mu magambo manini yandikishijwe ibara ry'umukara, hari imirasire y'izuba mu rwego rw'urumuri.

Icyumba kigezweho cyo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini, zigenewe gukoreshwa nk'igare. Mu kugorora amaguru, n'imitsi y'umugongo. Harimo n'ibindi bimashini binini biri imbere, umuntu akoresha, mu gihe ashaka gukora amaboko.

Inyubako igezweho y'ibitaro byitwa LEGACY, ifite parafo y'ibara ry'izahabu, munsi yayo ifite ibara ry'ifeza, inkingi ni ibara ry'ivu, hasi hashashe amakaro, hari intebe y'ikoranabuhanga izajya yakirirwaho abantu.

Abagabo bambaye imipira y'icyatsi kibisi ifite ikora ry'ibara ry'umukara, bari iruhande rw'inyubako y'igitaka n'agahondo, ku ruhande hari ihema ry'umweru, hari inyubako iri hirya y'amabati y'icyatsi cyerurutse, bari kumwe n'umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi kibisi, agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso n'undi wambaye ikanzu y'umukara.

Inzu y'ubuvuzi y'icyitegererezo, isize amarangi y'umweru, imanitsemo inzitiramubu z'umweru, bigaragara ko harimo ibitanda by'abarwayi, igikuta cyaho kiri mu mabara y'ironji, iruhande hari akazu kari mu ibara ry'ironji bigaragara ko ariho muganga aba yitera ku barwayi yicaye.

Inyubako y'umweru iriho inyandiko yanditse mu Gifaransa igaragaza ko ari kaminuza y'u Rwanda, hari abantu babiri bambaye imipira itukura, umwe arazamuka inzira y'amabuye ajya ku nyubako, undi ahagaze ku gasozi k'icyatsi iruhande rw'iyo nzira, ikibanza kirimo ibiti n'ibyatsi byinshi bitanga ishusho nziza y'umwimerere ndetse hari n'amatara ku nzira.

Icyumba cyo mu bitaro, gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bwihariye, hakoreshejwe imashini ikoresha ikoranabuhanga ryifashishwa mu gufata amashusho y'imbere mu mubiri, hakoreshejwe imirasire n'iryo koranabuhanga ngo bahuze amashusho bashaka.

Inyubako y'ibyumba by'ababyeyi, isize irangi ry'umuhondo, amadirishya asize irangi ry'icyatsi kibisi, imbere ku kabaraza hari umuganga wambaye itaburiya y'ibara ry'umweru, agapfukamunwa, ipantaro y'ibara ry'ikoboyi, ahagaze ahasimanze sima.

Ibitaro kwa Nyirinkwaya, urugero rwiza rw'iterambere mu buvuzi, aho usanga aho wakura amafaranga, ubuvuzi butandukanye, inyubako nziza, ukitabwaho nk'umwami.

Impande z'imikandara, zirimo ibimera n'indabyo nziza. Ku ruhande rw'ibumoso, hari inyubako yubakishijwe amabuye, ifite amadirishya atanu. Naho ku ruhande rw'iburyo, hari indi nzu ifite igisenge gitukura, hamwe n'inkuta z'umweru. Umuhanda ushasha amapave urimo umugabo n'abana be bagenda baganira.

Umusaza uri mu kagare k'abafite ubumuga, yambaye ingofero y'umukara, ari kugana hari abagabo babiri basa n'abari kwandika abantu baje mu mahugurwa cyangwa bayashoje, abantu benshi batonze umurongo, iruhande rwabo hari intebe n'akabaho ku ruti.

Inyubako isize amarangi y'umweru, ifite inzugi z'ibara ry'umukara, hari ubusitani burimo indabo, hariho ikigega gishinzwe kubika amazi, imbere hari umuhanda ushashemo amapave, hari umwana wicaye ku gatebe k'ababana n'ubumuga, ubona ko ashaka kujya kuri iriya nyubako.

Inyubako y'ibara ry'umuhondo ifite amadirishya y'icyatsi kibisi, ifite igisenge cy'icyatsi kibisi, hahagaze muganga mu kirongozi yambaye itaburiya y'ibara ry'umweru y'amaboko maremare, yambaye agapfukamunwa yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu bwerurutse.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso yubatswe mu buryo bugezweho, ibirahuri n'umuryango bikozwe mu birahuri, hatatseho ibishushanyo biriho abantu bambaye indorerwamo z'amaso.

Imbere y'inyubako yinzu y'ababyeyi hahagaze abantu bambaye umwambaro w'ibara ry'ubururu bwijimye, iriho ibirango hicaye umugore wambaye ishati y'umweru n'umugabo wambaye imyenda ya kaki, ubona ko bari mu gikorwa cy'ubuvuzi n'ubukangurambaga.

inyubako y'ubuvuzi y'ikerekezo, ibyumba by'ahashyirwa abantu bari mu kato, icyumba cyo kwakiriramo abantu, harimo intebe z'amafuteyi, hari ahantu wasanga abaganga kugira ngo bagufashe baguhe ubutabazi bw'ibanze.

Inzu y'amagorofa abiri, ikorerwamo ubuvuzi, ishashe amapave mu mbuga, ifite akazu ku marembo k'ushinzwe kwakira abantu gasize irangi ry'umuhondo, icyatsi kibisi ku madirishya, inkingi y'ivu, hari ikirango cy'ibihakorerwa biri mu ibara ry'ironji n'ibara ry'icyatsi kibisi, mu magambo y'izina ry'inyubako yanditse mu ibara ry'ubururu n'icyatsi kibisi.

Inyubako y'amagorofa abiri, imbere yayo hari inyubako isize irangi ry'umuhondo, icyapa cyometseho cyo mu mabara y'ironji n'icyatsi kibisi, kigaragaza serivisi zihatangirwa zitandukanye z'ubuvuzi, ku marembo yinjira hahagaze abantu hamwe n'imodoka zihaparitse.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya amabati n'ubururu, ibikuta n'umweru, inkingi n'umweru, amadirishya n'umweru, harimo ibendera ry'igihugu riri mu mabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi hakabamo ubusitani bw'ibyatsi ndetse n'amabuye mu mbuga.

Icyuma gikoreshwa kwa muganga gitanga ishusho y'ikoranabuhanga mu kuvumbura no gusuzuma indwara, iki cyuma kiri mu cyumba gifite isuku n'inkuta zisize irangi ry'umweru, gifite umwobo munini aho abarwayi bashyirwa ku ntebe ikururwa ikinjizwa muri icyo cyuma kugira ngo bakore ubushakashatsi bwihariye ku mubiri w'uwo murwayi.

Icyumba gifite ibikuta by'umuhondo, hamanitsemo isaha y'umweru n'umukara, n'umutako w'ubururu bwijimye, icyatsi kibisi n'umweru, harimo intebe zifite amabara y'ikijuju, amamashini y'umweru, isakazamashusho, hasi hasizwe ibara ry'igitaka.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu bwijimye, imbere ye hari mudasobwa ifunguye, hari n'isakazamashusho irimo igishushanyo cy'ikoranabuhanga, ry'imbavu z'umuntu, aho ari kureba ibijyanye n'icyo yifuza kumenya arasa n'umuganga uri kureba uko imbavu z'umuntu zimeze.

Inyubako y'icyerekezo y'ubuvuzi, umuhanda ujyayo hari ubusitani, hateretse ivaze itukura irimo ururabo, igikuta cy'iyo nzu gisize irangi ry'umuhondo, ibirango by'ibikorerwaho biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu n'umuhondo. Ni inyubako ishinzwe kwita ku bantu babana na kanseri.

Inyubako y'igorofa iriho inzego wurira kugira ngo uyigereho, hari umuryango uriho ikirango cy'ibicururizwamo, hari ikirango kiri ku igorofa rya mbere kigaragaza ko ari ahantu hacururizwa imiti, iri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'ibara ry'umweru.

Ababyeyi baryamye ku bitanda byo kwa muganga, hari amashuka y'ibara ry'ubururu bwijimye n'ubururu bwerurutse, mu cyumba gifite amarido y'ibara ry'umuhondo, inzitiramubu z'ibara ry'umweru, ubona ko ari ababyeyi barembye, kuko iruhande rwabo hari ibikapu bibitswemo imyenda yabo.

Inyubako y'igorofa, ifite igisenge cy'ibara ry'umukara n'umweru, ikorerwamo ubushakashatsi ku buvuzi. Umuhanda ujyayo ukozwe muri kaburimbo, hasize ibara ry'umuhondo, hashashe amapave ku ruhande, hari ubusitani. Imbere y'inyubako, haparitse imodoka.

Ibitaro by'amaso, biri mu nyubako ndende, ifite igisenge cy'ibara ry'ubururu, amadirishya y'ibirahure agarura urumuri rw'ikirere, imiryango y'imbaho isize irangi ritukura, iruhande hashashe amapave, mu mbuga yaho.

Inyubako y'icyerekezo ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho irimo amatara ya kijyambere, amarange asize ibara rya zahabu, igikuta cyanditseho amagambo y'Icyongereza agaragaza ko ari ahantu abaforomo baba bicaye, bigaragare ko ari inyubako ikorerwamo gahunda z'ubuvuzi.

Inyubako iri mu iduka ricuruza imiti, risize irangi ry'umuhondo, hari ikirango cyo mu mabara y'umutuku, kigaragaza ubwisungane mu kwivuza bakorana nabwo, hahagaze umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umweru n'umumotari.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa, icyuma cyabugenewe mu gatuza kigenewe kumva amajwi yo mu mubiri, cyane cyane ayo mu mutima no mu bihaha, ashyize ku kaboko k'iburyo icyuma cyabugenewe cyumva umuvuduko w'amaraso ku munyeshuri wambaye umwambaro w'umweru, ishati n'ikanzu y'ibara rya kacyi.

Inyubako y'igorofa isakaje amabati y'ubururu bw'ikirere, isize amarangi ku madirishya y'umweru, ifite ibikuta bisize amarangi y'ubururu bw'ikirere n'ubururu bwijimye, mu rubavu rwayo hari ubusitani butoya burimo indabo n'agati, hahagaze n'imodoka isize irangi ry'ifeza, iruhande rw'imodoka hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara.

Icyumba cyakira indembe hasi aho dukandagira ni umweru w'amata, ibikuta ni umweru, inkingi ni icyatsi kibisi, igisenge ni umweru uvanze n'umweruru w'amata.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'inzu ndangamurage, iri mu mabara y'ironji n'ibara ry'igitaka, iruhande rwayo hari inyubako ndende yo mu bwoko bw'amagorofa, yubakishije amatafari ahiye, umuhanda uhagana uri mu mapave, iruhande hari ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga gishaje n'amashuka y'umweru misego y'umweru wari mu kabara k'ubururu, igitanda gifite ubururu ku mirambizo n'akabara gatukura, ku gikuta hariho ibara ry'ubururu, ibara ry'umukara, ibara ry'ubururu bwijimye, ibara ry'umweru n'i ibara ry'umutuku mu mutako.

Mu kuboko kw'ibumoso hari igishushanyo cy'imboni y'ijisho kiri mu ibara ry'umweru, ubururu, umukara, mu kuboko kw'iburyo hari intebe ziri mu ibara ry'ifeza, ku gisenge hatatse udupirizo tw'umweru n'ubururu.

Muganga mu myambaro y'ubururu bwijimye, ari kumwe n'umurwayi uri ku gitanda bigaragara ko arembye, amufasha kwambara no kumwitaho. Kimwe mu biranga serivisi nziza z'ubuvuzi n'iterambere ryazo, ni uko abaganga bamenya uko bita ku barwayi, bikurikiye intege nke ndetse n'uburwayi bafite.

Icyumba gishashe makaro, gifite ibikuta by'umweru k'ikoranabuhanga, cy'ubuvuzi, gikozwe neza, gisize amarangi y'umweru, harimo icyuma k'imyitozo ngororamubiri, hari intebe y'ibipimo by'ubuvuzi, yometseho agatambaro k'umweru.

Abagabo babiri, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, akajire k'ubururu bwijimye, hariho akarango ku kaboko k'ibumoso, kari mu mabara y'ubururu n'umuhondo, icyatsi kibisi, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'amabara avanze, iroza n'akarango k'ibara ry'ubururu.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru gifite ibaraza risize irangi ry'umuhondo, hamanitse kizimyamwoto, amadirishya n'umuryango bisize irangi ry'umukara, hahagaze muganga wambaye agapfukamunwa, abarwayi batatu bahagararanye na muganga, imbere hashashe urusakabuye. Ni inyubako y'amatafari ahiye.

Muganga yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, yambaye agapfukamuwa k'ubururu bwerurutse n'umweru, yambaye uturindantoki tw'ubururu, afashe mu ntoki icupa ry'ikigina rifite agafuniko k'ubururu bwijimye, akoresha ukuboko kw'iburyo kuri mudasobwa, iriho akamenyetso k'ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umutuku.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, iriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi, kirimo ibirango biri mu ibara ry'ubururu n'umukara, hari akabaraza gasize irangi ry'umweru kariho irangi ry'ibara ry'umutuku rigaragaza ubwishingizi bukorana nabo, abakorera mu cyumba gicuruza.

Icyumba cy'ababyeyi aho bakirira abarwayi. Ni inyubako y'ibara ry'umuhondo, y'amatafari ahiye, ifite parafo y'ibara ry'umweru, imbere hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, hari intebe zimbaho abantu baje bategereje bicaraho, bategereje ubakira.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo imashini ikoreshwa mu buvuzi bugezweho, iki gikoresho gikoreshwa mu kuvura kanseri gikoresheje imirasire yihariye yangiza uturemangingo twa kanseri cyangwa ikatubuza gukura.

Muganga wambaye ishati y'ubururu arimo arafatatira ibipimo by'isukari mu maraso umusaza wambaye indorerwamu z'amaso, ishati y'iroza, ipantaro ya kaki, muganga n'akaboko k'iburyo ni ho afatishije igipimo ari kureberaho n'ikayi ari kwandikamo ibipimo abonye.

Icyumba kirimo abaganga batatu n'abarwayi babiri barimo barabasuzuma umuvuduko w'amaraso, ku meza ariho igitambaro cyera hateretseho agacupa karimo umuheha kagaragaza ko karimo isabune inoza isuku.

Ibitaro bya Kabgayi, amarembo asize irangi ry'ubururu bwijimye, ikirango cy'ibitaro kiri mu ibara ry'umweru mu nyuguti nkuru, umuhanda ugana ku nyubako ni umuhanda w'igitaka, inyubako zubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifite icyapa k'ibara ry'ubururu bwijimye, amagambo y'ikirango ari mu nyuguti nkuru z'ibara ry'umweru, hahagaze umugabo ku nzego zijya ku nyubako, iruhande hari uduti, hari ubusitani.

Icyumba k'igorofa gifite ibikuta bisize irangi ry'umuhondo, inzugi zisize irangi ry'umweru zikozwe mu mbaho, harimo intebe z'amafuteyi, ameza y'igice cy'uruziga akozwe mu mbaho, intebe z'umukara zo kwicara abantu bari kurya.

Icyumba kirimo abarwayi bari mu bitaro, hari intebe ziriho imyenda yabo, amarido y'ibara rya kaki atandukanya abarwayi, bigaragara ko hari ikibazo cy'ubucucike bw'abarwayi kandi ibyumba ari bikeya, bakagenda babagabagabanya bakoresheje amarido.

Imashini zipima ibizamini by'abarwayi, ziri mu ibara ry'umweru n'umukara, intebe iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'intebe yabarwayi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru n'umukara, biri mu cyumba, kiri mu ibara ry'ikijuju.

Icyumba cy'ibitaro kirimo inzitiramubu y'ibara ry'umweru, amarido y'ibara ry'ubururu, abaganga bambaye imyambaro y'ubwirinzi ku ndwara z'ibyorezo, harimo ibitanda, imashini zisuzuma n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi.

Ikigo cy'amashuri igisenge ni amabati y'ubururu n'inkingi z'umweru, iruhande hari ubusitani. Haciye umuhanda w'igitaka, urimo icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru n'inkingi z'umukara.

Icyumba cy'ibitaro cyihariye mu gikorwa cyo kuvura kibereye abarwayi bafite ikibazo cy'impyiko zidakora neza, iruhande rwa buri mashini hari intebe zirambuye, zifite imisego, n'ameza akoreshwa n'abarwayi, hari kandi ibikoresho by'ubuvuzi n'ububiko bwo hejuru, bohereze ku barwayi.

Umukobwa wambaye imyambaro yo gukora imyitozo ngororamubiriyi, telefone ayifite ku kaboko k'ibumoso, akaboko k'iburyo gafashe icupa ari kunyweramo amazi, kunywa amazi ni ingenzi kuko afasha umubiri gukomeza gukora neza, kandi akawurinda kugira umwuma mu gihe waba urangije imyitozo ngororamubiri.

Uruziga rufite ipfundo mu ibara ry'umukara, rurimo abantu babiri, umwe wambaye ishati n'ipantaro mu ibara ry'umweru n'umukandara w'umukara, undi yambaye ishati n'ipantaro by'ibara ry'ubururu n'umukandara w'umukara, bari mu kirango cy'izuba mu ibara ry'umuhondo n'umweru, akarango k'izina kari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri karimo amabara y'umukara na kaki, afite agasumi k'ubururu bwijimye ku rutugu rw'ibumoso, amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kugira ngo umubiri wongere kugarura amazi watakaje, anafasha gukomeza imikorere myiza y'ingingo z'umubiri.

Umusore uri hanze inyuma ye hasa n'ahari umwijima muke, arimo kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru n'ubururu, kunywa amazi ni ingenzi afasha umubiri gukomeza gukora neza kandi akawurinda kugira umwuma.

Ivi ryagize ikibazo barimo barikandisha amazi ku muntu wambaye ipantaro y'ibara ry'ubururu afashe agatambaro ari gukandisha bigaragara ko afite ikibazo cy'imitsi cyangwa se k'ivi ryagize ikibazo, akeneye ubutabazi bwihuse.

Igikoresho gikoreshwa mu buvuzi kizwi nk'akagare k'abarwayi, cyifashishwa ku bageze mu zabukuru batagifite imbaraga mu ngingo z'amaguru, abagize impanuka ku ngingo z'amaguru n'ababana n'ubumuga bw'ingingo z'amaguru cyangwa ubundi bumuga bufitanye isano n'ingingo z'amaguru.

Amacupa y'ibara ry'umweru apfundikije imipfundikizo y'umweru atatu, afite ibirango biri mu ibara rya move, umutuku ndetse n'ibara ry'ironji, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umuhondo aho bigaragara ko harimo umuti ufasha guhagarika ububabare.

Inyubako y'ibitaro byitiriwe umwami Faisal, hari umusaza wuriye urwego usa n'uri kubaka ikintu cy'inkingi, iruhande rwe hari umusore ufashe igipfunyika cy'ibara ry'uroza, aherereza uri ku rwego ibintu bimeze nk'insinga.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yambaye indangururamajwi zo mu matwi z'ibara ry'umweru, agasengeri ka move, akaboko k'iburyo gafashe agacupa, arimo aranywa amazi, yambaye akantu k'ibara ry'umukara ku kaboko gafashemo telefone.

Umusore uri kwisuka amazi mu maso ayandi ayanywa akoresheje akaboko k'ibumoso mu gacupa k'ubururu, kunywa amazi Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kugira umubiri wongere kugarura amazi watakaje anafasha gukomeza imikorere myiza y'ingingo z'umubiri.

Agasanduku kari mu ibara ry'umukara, k'ubutabazi bw'ibanze, gafite umwihariko wo gukoreshwa mu bikorwa byo gutabara byihutirwa, gafasha ufite ibibazo nk'impanuka, uguye wari uri mu myitozo, uwagira ubufasha bwose abuhabwa byihuse.

Umusore wambaye agapira k'umukara imbere, umupira w'amaboko magufi inyuma w'ibara ry'umweru, bigaragara ko akaboko ke k'ibumoso mu nkokora hari ikibazo, kuko ahafatishije akantu k'agatambaro k'ibara ry'ubururu, nk'uhakanda cyangwase nk'uhafite ikibazo.

Ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri no mu mikino itandukanye, harimo iy'amaguru, iy'amaboko, kugendera ku binyabiziga kuko harimo ubwirinzi bw'umutwe, ndetse n'abakina umukino wa rugubi, hakaba hari imipira igenewe gukina iyo mikino.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri akaboko k'iburyo ke kariho terefone, yambaye inyakiramajwi zo mu matwi z'ibara ry'umweru, yambaye agasengeri k'ibara ry'umukara, kora y'ibara ry'umukara, inkweto z'ibara ry'umweru za siporo, afatishije amaboko ukuguru kw'iburyo, yerekana mu bworo bw'ikirenge.

Mu kibuga cy'umupira ahakorerwaga imyitozo hasi haryamye umuntu bigaragara ko ari guhabwa ubutabazi bw'ibanze n'abakorerabushake, bambaye impuzankano y'ibara ritukura n'udupira tw'imyeru imbere, basa nk'abari gukonjesha imitsi ye basukaho amapuderi nkaho umukinnyi yari afashwe n'imbwa.

Igikoresho kifashishwa n'abasheshakanguhe cyangwa abafite ikibazo cy'imvune kizwi ku izina ry'inshyimbo kifashishwa cyane cyane ku bantu bageze mu za bukuru batangiye kugira intege nkeya z'amaguru, mu gutera intambwe cyangwa gutambuka, cyangwa undi wese waba wagize ikibazo cy'ukuguru akayikoresha mu rwego rwo kugira ngo ayishikamirizeho ni yo mpamvu yitwa inshyimbo.

Umugabo wambaye ipantaro n'umupira mugufi by'ubururu bwijimye, arimo arakanda mu mpfundiko umugabo wubitse inda, wambaye isokoreti y'umukara, wambaye urukweto rw'icyatsi kibisi, agasogisi k'umweru, ubworo bwwurukweto ni umukara n'umweru, aryamye ku gitanda k'ikijuju hariho agashuka k'ibara ry'umweru, hirya ye hari umugabo wambaye ipantaro y'ikijuju.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho yitoza gusunika ibyuma biremereye kugira ngo akore imbaraga z'amaboko n'imbaraga zo mu maguru. Akomere, akomeze umugongo. Ni wo mu mumaro w'ibi byuma biremereye arimo asunika.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri yahagaze ku itapi y'ibara ry'icyatsi kibisi, yambaye inkweto z'umukara, kola y'umukara n'akabutura kagufi k'ibara ry'ubururu n'umweru, umupira w'umukara, udukomo dutanu, ak'ibara ry'ubururu, ibara ry'umweru, ibara ry'umuhondo, ibara ry'ikigina n'ibara ry'iro...

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo umugore wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'ubururu bwijimye, ari kumwe n'umusore wicaye mu gatebe kagenewe ababana n'ubumuga cyangwa se abageze mu za bukuru, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, yo gukomeza umubiri.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'ikigina n'umweru, agakabutura k'ubururu n'umweru, yambaye inkweto z'umukara n'umweru, mu bworo bwazo ni umweru arangaje imbere.

Abantu benshi bari mu kibuga gishashemo amapave, aho bari mu myitozo rusange, abakobwa, abagabo, ubona ko barimo bakora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hari uri gukora ibintu bakabyigana.

Amazi ashamaje ari gusimbukira mu birere bitonyanga bindi biri iruhande bikikije icupa, umupfundikizo w'ubururu bwijimye, rigaragara ko ryuzuye amazi, amazi asukuye, amazi ni ubuzima, akikijwe n'ikirere cy'ubururu, ubona ko ari ibintu bisa neza cyane.

Icyumba cyuubuvuzi cyakira abagize imvune nmpanuka zingingo hicaye umugabo wo kukameza wambaye ikabutura n'umupira wumweru n'umutuku amaguru yombi mu bujana bigaragara ko havunitse ari kwakirwa numugabo bigaragara ko ari umunyamwuga amushyiriraho band.

Igikapu cy'ubutabazi bw'ibanze, gifite umwihariko wo gukoreshwa mu bikorwa byo gutabara byihutirwa. Kiri mu mabara y'umutuku n'umweru n'umukara. Gikoreshwa mu gutabara ugize ibibazo mu guhumeka, gufasha uvunitse umushyiraho bande, harimo ibikoresho bitandukanye byadufasha muri ubu buzima.

Muganga wambaye ishati mu ibara ry'umweru n'ipantaro y'ibara ry'umukara, arimo arafasha umusore wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umukara wavunitse akaguru k'iburyo mu bujana amushyiriraho bande.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'icyatsi, yambaye akarega k'umweru, arimo arakora umwitozo wo gusubiza ukuboko inyuma akikora mu gihumbi, aboshya imisatsi.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ubuvuzi bw'amenyo buteye imbere, intebe y'ubururu iteranywe y'umurwayi ituma muganga amenya neza aho arimo kuvura, hejuru yayo hari urumuri runini rukoreshwa mu kumurika ibice by'amenyo neza mu gihe cyo kuvurwa.

Umusore ari hanze arimo kunywa amazi ari mu icupa ry'umweru, kunywa amazi ni ingenzi afasha umubiri gukomeza gukora neza kandi akawurinda kugira umwuma. Yambaye inyakiramajwi z'ibara ry'umweru.

Mu cyumba cy'ivuriro ahari muganga imbere, ari ku cyuma kiriho mudasobwa, yereka abanyeshuri bimenyereza umwuga w'ubuganga, bafite amakayi n'amakaramu bandika ibyo agenda abereka, anabasobanurira bijyanye n'ubuzima.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri mu rugo, yicaye ku isari ya yoga, yambaye isutiya y'imyitozo y'ibara ry'umukara n'ipantaro ya siporo, imbere ye hari mudasobwa ifunguye, icupa ry'amazi riteretse hafi ye, udupalasitiki two guterura tubiri turi mu ibara rya move, ibumoso bwe hari intebe y'ifuteyi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri mu rugo, yambaye agasengeri k'icyatsi kibisi, ipantaro ya siporo ya kaki, iruhande rw'igikuta hari ibara ry'ubururu, ari gukorera kuga pasi ka yoga k'ibara ry'ubururu bwijimye, aho ari mu myitozo yo kurambura umugogo.

Umwana uri guhabwa ubufasha ku mvune yagize ku kirenge n'akabombampari, yicaye ku meza y'ubururu, afite ikirenge kimwe cyambaye inkweto, hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu, n'uturongo tw'umweru, umukandara w'umukara, n'ipantaro ya kacyi, umeze nk'umutoza cyangwa umuntu ufite ubumenyi bwisumbuye mu buvuzi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ifite ibara ry'irongi, yambaye inyakiramajwi zifite ibara ry'umweru, ku kaboko k'ibumoso ke hari isaha, aragorora amaboko ayahuje.

Umusore wicaye hasi wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, agasengeri k'ibara ry'umukara ikabutura y'ira ry'ikigina, afashe ukuguru mu bworo akoresheje akaboko k'ibumoso kariho isaha y'umukara, akaboko k'iburyo gafashe mu mpfundiko bigaragara ko hagize ikibazo cy'imvune cyangwa kwangirika.

Abana bari ku mirongo hari kugenda hacamo umuntu usa nkaho ari umutoza, bagenda bagaragara nk'abari kubashyira ku murongo, inyuma ya hari inyubako nziza ifite igisenge cy'amabati atukura, bari mu kibuga gisize isima bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri iruhande rwe hari karoti, hari pome, hari imizabibu, hari ibice bibiri by'ironji, hari amashu. Yambaye ikabutura y'umukara, agasengeri k'umweru karimo ibara mu rubavu ry'umukara'umuhondo.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, arimo aranywa amazi akoresheje icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umukara, aho ubona ko yakoze umubiri, amazi ni ingenzi mu mubiri wacu, kuko iyo twatakaje amazi y'umubiri kubera imyitozo ngororamubiri, amazi tunywa arinda umubiri wacu kugira umwuma.

Umudari, urushinge, ibinini, ibikoresho umuntu akeneye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo atahane ibihembo bizana umudari. Ukeneye kugira imbaraga no kugira inyongeramirire, hari abakoresha inshinge, hari abakoresha ibinini byose mu gihe waba wabyandikiwe na muganga wawe ukurikirana uko ubuzima bwawe bumeze.

Ikizingo gifite ibara ritukura, bigaragara ko gikoreshwa mu buvuzi, aho cyafashishwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri, bagize impanuka zo kuvunika amagufa cyangwa imvune zisanzwe zindi, bagakoresha iyi bande mu rwego rwo kugira ngo bahagarike ububabare.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri mu rugo, yicaye ku isari ya yoga, yambaye isutiya y'imyitozo y'ibara ry'umukara n'ipantaro ya siporo. Imbere ye hari mudasobwa ifunguye, icupa ry'amazi riteretse hafi ye, uduparalasitiki two guterura tubiri turi mu ibara rya move, ibumoso bwe hari intebe y'ifoteyi.

Icupa ripfundikirwa agapfundikizo k'umweru, rifite ikirango kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, harimo amagambo asobanura umuti urimo imbere, ari mu ibara ritukura, n'ibara ry'ironji, ikoreshwa mu kugabanya ububabare mu mubiri, kubabara mu ngingo no mu misokoro, imara ububabare vuba, kandi uyikoresheje atinda kongera kumva ububabare.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri harimo umukobwa wambaye agasengeri k'ikijuju urimo ukora imyitozo, ari kumwe n'umutoza we wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, agapfukamunwa k'umukara.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri mu rugo, aho arimo akora inyama z'ikibuno, akora n'umugongo awugorora. Afatishije ukuguru kw'ibumoso amaboko abiri kugira ngo yeme. Umugongo urambuke ugororoke.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro ya siporo y'umukara, inkweto z'iroza n'umweru, agasengeri k'ibara ry'iroza n'ubururu, aho arimo atekereza, nk'uwitekerezaho akangura amarangamutima no kuruhura ubwonko, akoresheje imyitozo.

Musore wambaye inyakiramajwi zo mu matwi z'ibara ry'umweru, isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara n'umweru, inkweto z'umweru, ari mu myitozo ngororamubiri, aho arimo atera intambwe akaboko k'ibumoso n'akaboko k'iburyo kari kumwe n'akaguru k'ibumoso ak'iburyo kasigaye inyuma, akora umwitozo wo kugorora mu mayasha.

Ibikoresho nkenerwa mu buvuzi bitandukanye, birimo uturindantoki, birimo imiti wakoresha wisiga, imiti wanywa, ubushashi burimo amafu wakoresha kugira ngo wongere imbaraga.

Icyumba kirimo indorerwamo, igitanda, abagabo batatu, umwe aryamye ku gitanda, abandi bakamufasha kugorora ingingo ze nk'abanyamwuga mu buryo bwo kugabanya ububabare no gukomeza inyama. Izi serivisi kenshi, zikenerwa n'abantu bagize ikibazo cy'uturemangingo.

Umusore uri kunywa amazi yambaye umwambaro ya siporo y'ibara ry'umukara, yicaye ku ntebe y'urubaho iruhande rwe hagaze umukobwa wambaye agakabutura gato k'ibara ry'umweru n'umukara, n'agasengeri ka kaki nawe uri mu myitozo ngororamubiri yo kurambura mu nda. Bombi bafite ibikapu bitwajemo iby'ibanze bakenera mugihe bari mu myitozo.

Imashini ikoreshwa mu buvuzi ipima umubiri wose w'umuntu, munsi yayo hari itapi y'icyatsi kibisi, iruhande hari etajeri y'ibara ry'umweru, ibikuta ni ibara ry'umweru ku gisenge ni ibara ry'umweru.

Umusore aranywa amazi yambaye inyakiramajwi mu matwi yambaye umupira w'umweru avuye mu myitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kwirinda indwara za hato na hato.

Umusore n'umukobwa bashoje imyitozo ngororamubiri banywa amazi. Amazi ni ingenzi kuko adukiza umwuma kandi atuma umubiri wacu uhora uhehereye, adufasha kugarura ibyo twatakaje mu gihe twakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri yambaye agasengeri n'ipantaro by'ibara ry'icyatsi cyerurutse kirimo utudomo tw'umweru n'umusatsi uboshye, arimo arakora umwitozo wo kurambura amaboko ayegereza ku birenge, agorora umugongo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo abaganga bari kwita ku ndembe, hari n'imashini ikoreshwa yerekana ibipimo by'ingenzi by'ubuzima, aho iri kwerekana umutima ko utera inshuro ijana na mirongo ine n'umunani ku munota, umwuka ukaba uri kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana.

Umukobwa wakira telefoni zivugana n'abarwayi, ku meza ye hari mudasobwa yaka, iruhande rwe hari ibyuma bireba umuvuduko w'amaraso, hari insakazarumuri, hari icyuma gishinzwe gupima.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru iriho ibirango by'ibara rya move, yambaye mu ijosi igikoresho cy'ubuvuzi kigenewe kumva amajwi y'imbere mu mubiri gikunzwe gukoreshwa n'abaganga mu kumva amajwi y'umutima n'ibihaha, afashe ku ivi ry'umurwayi agenda yumva ahamubabaza kugira ngo abone uko amuvura.

Ucyite imashini cyangwa icyuma, gikoreshwa kwa muganga gitanga ishusho y'ikoranabuhanga, mu kuvumbura no gusuzuma indwara. Iki cyuma kiri mu cyumba gisukuye neza n'inkuta zisize irangi ry'umweru. Gifite umwobo munini aho abarwayi bashyirwa ku ntebe ikururwa ikinjizwa muri icyo cyuma, kugira ngo hakorwe ubushakashatsi bwihariye ku mubiri w'uwo murwayi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, ikabutura y'ibara ry'umukara n'umweru, inkweto z'umukara n'umweru, ufite terefone ku kaboko k'ibumoso, isaha ku kaboko k'iburyo, baradusobanurira umumaro mu gukora imyitozo ngororamubira; ko bigabanya imitekerereze mibi, bimanura isukari, bikagabanya umuvuduko w'amaraso kandi bidufasha mu igogora.

Umuntu usuka amazi mu kirahuri, akoresheje ijyaga, amazi ni igenzi mu mubiri, atuma duhehera, ubwonko buruhuka, akaturinda siterese, akaturinda umwuma, dukeneye amazi kugira ngo afashe amaraso yacu kugera.

Umusore wambaye umupira wa kacyi urimo agapira k'umukara imbere, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yicaye, afunze amaboko agaragara nk'umuntu ufite ikibazo mu kaboko k'iburyo mu nkokora, aho ahafite agatambaro nk'uhakanda; uhafite imvune cyangwa uburibwe bw'imitsi.

Umusore wifashe mu mayungurungo akoresheje akaboko k'ibumoso, afiteho umutako w'akantu k'ibara ry'umweru, akaboko k'iburyo kari kunywa amazi, mu ijosi, afite indangururamajwi, aho agaragara nk'urangije imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi igihe aruhuka.

Umukobwa ahagaze mu nzira ishashemo amapave afashe ku mavi aruhuka, nk'unaniwe kubera imyitozo ngororamubiri, arimo yambaye agakabutura k'umukara, agasengeri k'icyatsi kibisi, isaha ku kuboko kw'iburyo n'inkweto za siporo z'icyatsi kibisi n'agafunga umusatsi k'icyatsi kibisi.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, akaboko k'ibumoso gafashe hasi kambayeho isaha y'ibara ry'umweru n'umukara, arambuye akaguru k'iburyo afashe ku mano, yambaye inkweto z'umweru n'umukara, mu bworo bwazo n'ibara ry'umutuku, aho ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri yo kurambura imitsi y'amaguru.

Icyumba kirimo amagodora menshi n'ibitanda hamanitse inzitiramubu harimo umubyeyi ufite umwana n'umubyeyi uryamye ku gitanda hirya, bigaragaza ko ubuvuzi bwo ha mbere bwari butujuje ubuziranenge, aho umurwaza n'umurwayi babaga bataryamye ahantu hafashije ubuzima bwabo.

Igikoresho cy'ubuvuzi kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho uturango turi mu ibara rya move n'icyatsi kibisi, cyifashishwa mu gutwara abarwayi bafite imvune cyangwa ibibazo by'umugongo cyangwa ingingo, iki gikoresho kikagira umwihariko wo gutuma tutababangamira

Ikirango kigaragaza umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ari mu ruziga rw'ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu, kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara mu nyuguti nkuru, avuga ko ari ahantu ihuriro ry'abantu bakora imyitozo nyirukansi mu rwego rw'igihugu.

Umuntu ufashe agacupa k'ibara ry'umukara, kari mu biganza bihuje byombi, kanditseho amagambo ari mu nyuguti z'umukara, mu ibara rya move, bigaragara ko ari agacupa karimo umuti, cyangwa karimo amazi y'ubwiza.

Agakarito k'ibara ry'umweru n'umutuku, kariho ikirango cy'ibara ry'umukara, amagambo y'ibara ry'umutuku n'umukara, kariho umuti wica udukoko tw'umubiri ukaba ukoreshwa mu kuvura indwara ziterwa na mikorobe zinyuranye, ukoreshejwe neza uvura indwara z'ubuhumekero, iz'uruhu cyangwa iz'amaso.

Agacupa k'umweru gafite ikirango cy'umweru n'icyatsi kibisi, karimo umuti usukura intoki, uwurinda indwara uwurinda, ama mikorobe yose yagira ukuntu yangiza umubiri aturuka mu ntoki, gakorerwa muri forever, aho gakozwe mu gikakarubamba, ifite inshingano yo kurinda uruhu.

Icupa ry'umuhondo rifite umupfundikizo w'ibara ritukura, urimo umutobe ukozwe mu gikakarubamba, ukunzwe gukoreshwa mu buzima bw'abantu mu gusukura igifu, kongera imbaraga z'ubudahangarwa bw'umubiri no gutanga ubuzima buzira umuze, abenshi bakoresha iki kinyobwa mu buvuzi gakondo.

Ubwoko bw'ibyatsi bivamo imiti, ivaze y'ikijuju iririmo timeromari, ivaze ya zahabu irimo ravenda, ivaze y'umukara irimo urusenda rwa mate, ivaze y'icyatsi kibisi irimo igikarubamba, ivaze y'umukara werurutse, irimo maridegorute.

Muganga yambaye itaburiya y'amaboko magufi, iruhande rwe hari firigo, hari intebe iriho umupira w'ibara ry'umuhondo, etajeri z'ibara ry'ubururu, zirimo imikebe irimo ubuki, amacupa y'amazi, amacupa y'imiti ya Kinyarwanda, udukarito turimo imiti ikora, ariko yo mu bwoko bw'icyayi.

Umusambi uriho imiti gakondo itandukanye hari umuntu ufite isekuru n'umuhini arimo asekuriramo ibyatsi bigaragara ko ari gutunganya imiti yo kuvura indwara ga.

Uducupa turi mu mabara y'umweru dutandatu, turiho ibirango by'ibirimo mu mabara y'icyatsi kibisi, dukozwe mu gikakarubamba, turimo amavuta yo kwisiga.

Agacupa kagufi k'umweru, karimo umuti wa gakondo ukoze mu mbuto z'amaronji, kariho ikirango kirimo ibara ry'iroza, cyanditseho n'inyuguti nini zirimo ibara ry'umukara. Ahagana ku ndiba, inyuguti zanditswe mu ibara rya move.

Akajerekani k'ibara ry'umweru gafite umupfundikizo w'ibara ry'ubururu. Handitseho inyuguti zirimo ibara ry'ubururu n'akarango kameze nk'ak'inyoni. Bigaragara ko ari umuti umuntu akoresha umubiri wose ukagubwa neza ukagira ubwisanzure.

Amacupa ane ari mu ibara ry'ironji, udupfundikizo tw'ikigina, ashushanyijweho igikakarubamba, agashashi kari mu ibara ry'umutuku n'umweru, hariho ibara ry'ubururu ry'ikirango, agakarito k'ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, ni ibicuruzwa by'ubuvuzi gakondo bigamije gufasha mu mirire, gutunganya igogora, kongera ingufu ku bakora imyitozo ngororamubiri.

Umuravumba ni ikimera kizwi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kimenyerewe mu kuvura indwara y'Inkorora n'Ibicurane, cyane cyane umuravumba wifashishwa ku muntu ufite ububabare bw'umutwe ukawusiga no kuri nyiramivumbi.

Uducupa dutatu turimo imiti, turi mu mabara y'umweru, kamwe ibirango biri mu mabara ya move, hagati kari birango by'amabara y'ubururu, akandi kari mu birango by'amabara y'ironje, iruhande hari akantu k'akajaga k'ikirahuri karimo ibintu bimeze nk'amata.

Isoko mpuzamahanga rigurisha imiti, ikoreshwa mu buvuzi gakondo, harimo: imiti y'amabara atukura, iy'amabara y'umweru, iy'amabara y'ikigina, iy'amabara y'iroza, ibara ry'umukara, harimo tangawizi, harimo za karafu, harimo za sinamoni, ibyo byose ni ibintu bikoreshwa nk'ibirungo kandi by'imiti ya Kinyarwanda.

Ingemwe z'inyanya n'ibitunguru by'ibijumba, bazikura aha bakagenda bazitera mu myobo kugira ngo zihinduke inyanya zizaterwa zigakura, ari byo bita kuzigemura kugira ngo zitangire zitabweho zikure zitangage umusaruro.

Ubujerekani butatu, ak'umweru gapfundikije umupfundikizo w'umutuku, ak'ibara ry'ironji gapfundikijwe umupfundikizo w'ikigina, ak'ibara ry'umweru gapfunyikishijwe umupfundikizo w'iroza. Inyuma hari intunga y'icyatsi kibisi y'iroza, hatatse igitambaro cy'iroza n'umweru, iruhande hari utuducupa duto dutoya tw'ibara ry'umuhondo n'umweru, n'agakarito k'umuhondo n'umweru.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, harimo amafu, harimo iy'amazi, iri mu ducupa tw'icyatsi kibisi, uducupa tw'ikigina, n'utu ducupa dufite imipfundikizo y'icyatsi kibisi, yose igakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa ririho ikirango cy'ibara ry'ironji, ryanditseho amagambo mu nyuguti nkuru, hariho uruyuki bigaragaza ko ari ubwa Kinyarwanda bukoreshwa mu buvuzi gakondo mu kurwongera mu bindi bintu kugira ngo buvure indwara zitandukanye.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, gakoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda babikamo imiti, gafite ikirango cyanditswe mu magambo y'umutuku, ibara ry'ironji, inyuma hashushanyijwe igikakaruba.

Agacupa karimo amavuta akoreshwa ku munwa, kuwurinda gusaduka, kuwurinda kumagara, akozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, igikakarubamba kizwi nk'umuti ukomeye mu buvuzi gakondo, kandi ugakoreshwa mu gukora ubwiza.

Ameza y'igiti ari kumwe n'indimu na tangawizi n'ubuki bakozemo icyayi kiri mu gatasi k'ibumba ry'umweru bikoreshwa mu muti wa kinyarwanda, tangawizi ikoreshwa mu kuvura inkorora iyo ihujwe n'ubuki n'indimu.

Icupari riri mu mabara y'umweru n'icyatsi kibisi, agafuniko k'umweru gafiteho icyatsi kibisi, karimo isabune ikozwe mu gikakarubamba n'ikimera jojoba, bigenewe gukoreshwa mu musatsi, kuwugira mwiza ndetse no kuwukuramo imyanda.

Umugore ukenyeye igitenge cy'amabara atukura, icyatsi kibisi, umuhondo n'ikigina, afatishije ukuboko kw'ibumoso ururabo rw'ibara ry'iroza, indabo zifasha mu kuzana impumuro nziza, bakanazifashisha mu gukora umubavu abantu bitera.

Imiti gakondo ituruka mu bimere ikoreshwa, ikirango cyayo kiriho umukobwa, hejuru y'uwo mukobwa handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ibara ry'umutuku, avuga ngo vuga hoya mu kubagwa, bigaragara ko uyu muti uwawukoresheje aba aciye ukubiri no kubagwa.

Ubusitani burimo ibyatsi, burimo ikimera cy'amatovu cyarabye ubwarabo bw'iroza, kigakoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye, za Kinyarwanda.

Uducupa dutatu tugufi turimo umuti gakondo ukozwe mu buki bwa kinyarwanda, agacupa karekare karimo ubuki bwa kinyarwanda buturuka mu nzuki zihova mu ndabo z'umuhondo, iruhande hari umutiba w'inzuki.

Akadobo k'ibara ry'umuhondo n'umweru kariho ikirango k'ibara ry'umweru, umupfundikizo w'ibara ry'umuhondo, aka gakombe gafite amabwiriza ko usubiza ibintu mu nganda, kugira ngo bajye kubikoramo ikindi kintu gishyashya cyangwa se ibikombe byose bya pulasitike.

Amavuta yo ku munwa akozwe mugikarubamba afite akarango mu ibara ry'umukara n'agakarito kari mu mabara atukura n'umweru, iriho ikirango cyo mu mabara atukura.

Indabo zumishijwe zibikwa mu gashashi k'ibara ry'ironji, hariho ikirango gisobanura uko bikoreshwa biri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umutuku, zikoreshwa mu kongera amaraso abarwayi, mu gukoresha mu igogorwa, mu zindi ndwara zose gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ibiti birebire bifite amashami, iruhande rwabyo hari indabo z'ibara ry'iroza zikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura cyane cyane indwara z'abana.

Mu cyumba cy'imiti hari ubucupa butandukanye bubitsemo imiti, buri mu mabara y'umuhondo n'imifuniko y'umukara, amabara y'umweru, imikebe y'ibara ry'ironji, ubucupa bw'amabara y'umweru bufite imifuniko y'umutuku.

Umukebe w'ibara ry'umweru, ufite umupfundikizo w'ibara ry'ubururu, uri kumwe n'agacupa kari k'ibara ry'ubururu bwijimye, bigaragara ko harimo amavuta akoreshwa ku ruhu, ashobora gutuma rubobera, ndetse no kongera ubwiza bw'uruhu.

Ibimera bikoreshwa mu miti karemano, bishobora kumishwa bigakurwamo ibinini mu gihe byaba bicishijwe mu ruganda cyangwa bitunganyijwe neza kugira ngo bimare igihe kirekire.

Imurika ry'icyayi cy'ibimera, cy'amoko atandukanye. Icyayi cya tangawizi na tungurusumu, icyayi gikoze muri karafu. Buri karito yashyizwe ku ngeri y'igiti iteretse mu itaba, hari ubusitani bwiza bwuje amahumbezi.

Imurikagurisha ry'ubuvuzi gakondo, hari ameza ariho amacupa menshi, afite imifuniko y'ibara ry'umweru, imifuniko y'ibara ry'iroza, imifuniko y'ibara ry'umukara n'ibara ry'umutuku hariho ibirango bigaragaza ikiri mu icupa biri mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Utujerekani tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, imipfundikizo yatwo y'ibara ry'umutuku, hariho ikirango cy'ibara ry'umweru, iruhande hari udukombe turi mu ibara ry'umweru, dushushanyijeho ibara ry'icyatsi kibisi mu kirango, by'ibicuruzwa bikozwe mu gikakarubamba, ni umutobe ukoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ishyamba ririmo ibimera n'ibiti byiganjemo amabara y'icyatsi kibisi, umutuku n'ibara ry'umuhondo, ibiti bikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zitandukanye, amarozi, inzoka, inkorora, bakifashisha amababi y'ibi biti cyangwa imizi yabyo.

Etajeri ibitsemo imiti irimo amacupa n'udukombe, birimo imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye, udukombe dupfundikije imipfundikizo y'ibara ry'umuhondo, imipfundikizo y'ibara ry'ironji n'ibipfundikizo y'ibara ry'umutuku, ibirango by'ibirimo imbere biriho ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi, amacupa hapfundikije ibara ry'umutuku udupfundikizo.

Umukebe w'ibara ritukura ry'amaraso, ufite urugara rw'ibara ry'ifeza, ufite inyuguti z'ikirango ziri mu mabara y'umweru, imbuga nyuma yaho iri mu ibara ritukura hasi ku rugara hari ibara ry'umweru ririmo ikirango kiri mu mabara y'umukara.

Umugore witeye akenda k'umweru, afashe isakoshi mu kaboko k'ibumoso, iruhande rwe hari insina zisasiye neza, hazamutseho ibishyimbo by'icyatsi kibisi, arimo akora ku mababi yazo.

Agacupa k'umweru n'ibara ry'ironji, karimo umuti wo gusiga ku mubiri ukungahaye ku gikakarubamba, udufasha gusukura uruhu rwacu no kururinda igisebe mu gihe rwakomerekejwe cyangwa se rwumye. Kubera impamvu yo kuba harimo igikakarubamba.

Akajerekani k'umweru n'umupfundikizo w'ubururu, inyandiko iri mu magambo y'ubururu, harimo umuti ukoreshwa mu kuvura imvune ahari uburibwe hose mu mugongo, mu ivi, mu nkokora, ku ijosi, ni umuti uvura ahababara hose ho mu ngingo.

Uducupa turimo umuti hakabamo n'isabune bikozwe mu gikakararubamba by'ubwiza bikoreshwa mu bwiza. Hari amashusho agaragara yo mu maso agaragaza mbere yuko umuntu yisiga aya mavuta na mbere yuko akoresha iyi sabune uko aba ameze afite ibiheri. Na nyuma yaho ukuntu uruhu rumera neza kubera impamvu zo gukoresha igikakarubamba.

Agakombe k'ikirahuri, gapfundikije umupfundikizo w'ibara ry'icyatsi kibisi, hariho ikirango kigaragaza ko ifu irimo ari iy'umuravumba. Ikimera cyitwa umuravumba, gikoreshwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, aho tuwifashisha tuvura indwara nk'inkororano n'inzoka.

Igiti kiri imbere y'urukuta rw'amatafari imiterere y'amababi aranga igiti ikora ikimera cyihariye kandi gitangaje ikimera nk'iki gishobora gusobanurwa mu buryo bw'ubugeni cyangwa bw'ubuzima karemano gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera kizwi ku izina ry'umuravumba gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kimenyerewe mu kuvura indwara y'inkorora n'ibicurane, unifashishwa ku muntu ufite ububabare bw'umutwe awusiga kuri nyiramivumbi.

Ikimera kizwi ku izina ry'ikawa, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kivura indwara zitandukanye, cyakoreshwa mu buryo ngandurabukungu, kuko kigira ingemwe zikundwa, zikorwamo icyayi, zigakorwamo n'ikawa, hakavamo n'amajyani, gikunze gukoreshwa cyane cyane mu kuvura indwara z'ubuhumekero.

Agacupa k'umweru n'ubururu gafite ikirango cy'ibara rya zahabu karimo amavuta akozwe mu gikakarubamba. Igikakarubamba kirinda uruhu, kirurinda gusaza, kirurinda kwangizwa n'izuba kandi kiremanywe koroshya.

Ibyatsi by'amabara y'icyatsi kibisi, byarandarandiye mu mashami yumye n'amababi yumye, ni ibibabi bikoreshwa nk'umuti mu buvuzi gakondo, bigakoreshwa bivura inzoka binasuzuma amarozi.

Etajeri irimo ubuki, amavuta yo kwisiga ku ruhu, umuti wo kunywa, umutobe wo kunywa. Byose bikozwe mu gikakarubamba bikoreshwa mu buvuzi gakondo, mu rwego rwo kudufasha kunganira imirire no kuzana imbaraga zikomeza imyunyu ngugu.

Agakarito k'umuti w'inyunganizi y'imirire k'ifu ikozwe mu gikakarubamba natirimerike bifasha mu guhangana n'uburyo karemano umubiri ukoresha mu kwirinda cyangwa kwivura mu gihe habaye ikibazo, kari mu ibara ry'ironji iruhande hari uducyubu.

Tangawizi y'ikijumba, ironji, agatambaro kaboshye mu budodo karinda ubushyuhe ku ruhande hari isahani ibumbye y'ibara ry'umweru, agakombe kabumbye k'ibara ry'umweru karimo icyayi gikoreshwa nk'umuti wa kinyarwanda biteretse ku meza y'imbaho.

Ishashi y'ikigina iriho amabara atukura yerekana ikirimo, agakarito gatoya k'ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, ubujerekani bubiri buri mu ibara ry'ironji n'udupfundikizo tw'ibara ry'ikigina, ikarito nini y'ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru ishushanyijeho umuntu uri mu myitozo ngororamubiri.

Amacupa abiri rimwe n'iry'ibara ry'umweru n'umuhondo gafite umupfundikizo w'ibara ry'icunga harimo Igikakarubamba n'Umwembe. Irindi cupa ni umuhondo rikaba ripfundikije agapfundikizo k'ibara ry'igaju harimo Igikakarubamba cyo kwisiga, aho dukandagira hari ibara ry'ikijuju hakaba hari uduce dutatu tw'umwembe.

Ikimera kizwi ku izina rya tangawizi, ni ikinyakijumba, kizwiho gufasha mu kuvura ibibazo by'impyiko, kugira ubudahangarwa bukomeye, no kugabanya uburibwe mu ngingo. Gikoreshwa cyane cyane icyayi cyacyo, mu kuvura inkorora, asima, ibicurane, n'izindi ndwara zose zo mu buhumekero. Icyayi cya tangawizi, gifasha mu igogora.

Ikimera gifite indabo z'ibara rya move, amababi y'ibara ry'icyatsi kibisi kirandarandira ku butaka bw'urusenyi, aho gikoreshwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara zitandukanye.

Iki giti gikoreshwa mu buvuzi gakondo, ibimera nk'ibi bifite akamaro mu kuvura indwara zitandukanye, amababi n'amashami yacyo, afite ibinyabutabire bifasha kurwanya kwangirika k'uturemangingo tw'umubiri w'umuntu, n'izindi ngaruka mbi ziterwa n'ubuzima bwa buri munsi.

Umuravumba tuwukeneye mu buvuzi gakondo, ni ikimera gikoreshwa mu kuvura inkorora kuvura indwara z'ubuhumekero mu kuvura inzoka cyane cyanevura umutwe, bamwe bawutsa bakawihumuriza abandi bakawusya bakawusiga kuri nyiramivumbi.

Ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba, kigira amababi maremare, utuntu dusa n'udushinge tuba ku mpande zitandukanye, iburyo n'ibumoso kirahateye, ni ikimera gifite akamaro kanini ku buzima, cyane mu kuvura indwara no gukoreshwa mu bwiza. Mu kwirinda gusaza k'uruhu.

Uducupa twinshi dufite ibara ry'icyatsi kibisi, ibirango by'ibara ry'umweru n'iroza bigaragara ko turimo imiti n'udukombe dufite imipfundikizo y'ibara ry'icyatsi kibisi dufite ibirango by'icyatsi kibisi, turimo amavuta byose bikoreshwa mu buvuzi gakondo, iruhande hahagaze abantu bari kubicuruza.

Igihingwa kizwi nk'igikakarubamba, turabona hari amazu, imodoka, n'ahantu hari ibikakarubamba ubona ko byumishwa, bigaragara ko ari ahantu hakoreshwa kandi hagatunganyirizwa ikimera k'igikakarubamba. Tukizi ko gikundwa gukoreshwa cyane cyane mu buvuzi, no mu bwiza, mu gukora imiti y'ubwiza cyangwa kubikoresha nko mu buvu...

Ikimera kizwi ku izina ry'urumogi gifite amababi akomeye ateye ku buryo bwihariye akenshi akunda kuba areshya, gikunze gukoreshwa mu buvuzi gakondo cyane cyane mu koroshya ububabare no mu bushakashatsi ku miti y'indwara zidakira.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, gafite ikirango kiri mu ibara ry'iroza n'umuhondo, karimo inyongeramirire zikozwe mu buki, zidufasha kugira imbaraga, zikoreshwa cyane cyane ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibimera bifite indabo zitandukanyije amabara bikoreshwa mu buvuzi gakondo, harimo ironji y'icyatsi kibisi, umweru, umuhondo, move, iroza, ubururu.

Agacupa k'umuhondo, gafite umupfundikizo w'umutuku, karimo umutobe ukozwe mu gikakarubamba, ugenewe guhabwa abantu barangije gukora imyitozo ngororamubiri nk'inyongeramirire, ifasha kugira imbaraga, no kwaguka.

Ibimera dufite by'ibara ry'icyatsi kibisi bikoreshwa nk'imboga, bigakoreshwa nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu ndetse n'izo mu mubiri imbere cyangwa se iz'ububabare bujyanye no mu nda.

Imikebiriri y'umweru ifite indiba y'ibara ry'ifeza, agacupa k'umweru karimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, agacupa karimo umuti w'amenyo ukozwe mugikakarubamba ukesha amenyo, uburuso bw'amenyo.

Ibumba ry'icyatsi kibisi, ni ubwoko bw'ubuvuzi gakondo, bukoreshwa mu kuvura uruhu no kuvura umubiri. Barikokoresha barinywa mu rwego rwo kwirinda impiswi, mu rwego rwo kwirinda inzoka, mu rwego rwo kwirinda impatwe, bakanarukoresha barwisiga mu rwego rwo kwirinda ibiheri byo ku ruhu.

Ikimera cyitwa tungurusumu gikoreshwa mu buvuzi gakondo cyane cyane mu igogurwa ry'ibiryo, ifasha mu gukomeza umutima, tungurusumu ikora mu kurwanya indwara mu kongera ubwirinzi bw'umubiri. Yifitemo ubushobozi bwo kurinda kanseri zimwe na zimwe.

Icyumba kijimye kiri mu mabara y'icyatsi kibisi, hateretse umuti w'amenyo, ukozwe mu gikakarubamba ugenewe gukesha amenyo, kurinda amenyo kuvunguka no gukomeza amenyo.